Abantu bari ku mugezi uzwi nka kano, abana bane n'umukobwa umwe urimo kubafasha kuvoma, hateretse utujerekani dutoya, inyuma yabo hari imodoka, ibiti ndetse n'imisozi.

Umwana wambaye imyenda y'ishuri ifite ibara ry'iroza ndetse n'uturongo tw'umweru, ufite igikombe arimo kuvoma amazi ku kigega gifite ibara ry'umukara inyuma ye hari igikuta cyubakishijwe amabuye.

Abantu babiri bahagaze hanze y'inzu, umugabo n'umugore, umugore yambaye agapira ndetse n'igitenge, umugabo yambaye itaburiya y'ubururu mu kaboko ke k'iburyo afashe icyapa gishushanyijeho umwana w'umukobwa ndetse n'umuhungu.

Abantu bari mu cyumba cy'inama bakikije ameza iburyo ndetse n'ibumosomeza, imeza iri imbere yabo iteretseho ibikoresho bitandukanye, nk'amazi, za mudasobwa ndetse n'imigozi bakoresha bacaginga, imbere yabo hari isakazamashusho.

Umugore uhagaze wambaye agapira k'ivu n'isaha w'umuzungu ufite indangururamajwi mu kiganza cy'iburyo, ndetse akaboko k'ibumoso kifashe mu gatuza.

Abantu bari mu cyumba cy'inama barimo abagabo n'abagore, inyuma yabo hari amarido afite ibara ry'umukara n'ubururu, imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'umukara ateretseho amazi, mudasobwa, umwe muri bo afite indangururamajwi, undi afite mudasobwa ifite ibara ry'umukara.

Icyapa gifite ibara ry'ubururu n'umweru cyandikishijweho amagambo y'ubururu ndetse n'izina ry'umuganga iruhande hari ifoto y'umuntu wambaye amadarubindi munsi ye harimo izina ry'ikigokorera ndetse n'umwaka.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse cyankishijweho amagambo y'umweru n'itariki; iruhande rwaho hateretse intebe ndetse n'uducupa tw'amazi y'inyange; ku ruhande hari umugabo uhagaze ku gatuti wambaye ikoti ry'umukara na karuvati ya oranje; agatutu gafite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Ukuboko k'umuntu wambaye ikote rya gisirikare uteze akaboko ku ipompo y'icyuma, munsi ye harimo amazi atemba, hasi hari amabuye, iruhande rwe hari ibyatsi.

Abaganga bambaye imyenda y'akazi ifite ibara ry'ubururu bambaye udupfukamunwa. Bambaye bikwije ahantu hose. Barimo kureba umuntu wasamye wambaye imyenda y'umukara. Inyuma yabo hari itete, imeza iteretseho imiti, ndetse n'abandi bantu baje kwisuzumisha.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako ifite ibara ry'umweru n'inkingi z'umweru, barimo abagabo n'abagore bamwe muri bo bambaye amataruburiya afite ibara ry'ubururu, abandi bambaye imyenda isanzwe ariko bose bambaye udupfukamunwa, inyuma yabo hari ibyapa bifite ibara ry'umweru, ubururu ndetse n'iry'umuhondo rya kampani ya emuteyeni.

Abantu bari mu cyumba cy'inama imbere yabo hicaye abagabo babiri, imbere yabo hari ameza ndetse n'amazi na mudasobwa, umwe asa n'urimo kuvuga inyuma yabo hari icyapa kiriri mu ibara ry'ubururu cyandikishijweho amagambo y'umweru.

Abana bishimye, barimo kozwa intoki n'umugabo wambaye agapira k'ubururu, n'ipantaro y'umukara, ndetse na bote, ufite igikombe cy'ubururu mu ntoki, munsi yabo hari ibase ifite ibara ry'umutuku, iruhande rwabo hateye ibiti.

Abagabo babiri bicaye mu nzu ifite irangi ry'umuhondo, imeza iteretse imbere yabo iriho amakayi terefone ndetse n'agacupa k'amazi, ku ruhande rwabo hari idarapo inyuma yabo hari, icyapa kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Abantu ari mu nzu ifite ibara ry'umweru irimo ibyapa bishushanyijeho abantu barimo abakobwa n'abahungu, inyuma yabo hari amagambo yanditswe mu ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku, imbere yabo hari ameza ariho mudasobwa.

Umwana urimo guseka wambaye agapira ka oranje n'ijipo y'ubururu, mu kaboko ke k'iburyo afashe igikombe gikozwe mu cyuma gifite ibara ry'umuhondo rizengutsweho n'akantu k'ubururu ateze igikombe ku kumugezi, undi mugezi amazi arimo kumeneka iruhande rwe hari ibiti.

Abagabo n'abagore bambaye amakote afite ibara ry'ubururu, bambaye ibibaranga mu ijosi, babiri muri bo hagati yabo hahagaze umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umukara, n'ishati y'umweru, n'amadarubindi, iruhande rwabo hahagaze undi wambaye ikote ry'umweru, ry'abaganga.

Abantu batatu bari ku mugezi, babiri muri bo bari kuvoma amajerekani y'umuhondo undi ahagaze imbere yabo yambaye isengeri ya oranje y'akazi n'agapira k'umweru, inyuma yabo hari ibiti.

Umwana wambaye imyenda y'ishuri ishati y'umuhondo n'agakabutura k'ubururu ufite ibirahuri by'amazi mu ntoki, inyuma ye hari ikidendezi cy'amazi asa nabi ndetse n'ibihuru, inyuma hahagaze abandi bana barimo abakobwa n'abahungu.

Abantu batandukanye bahagaze ahantu mu busitani, inyuma yabo hari icyapa gifite ibara ry'umweru, ryandikishijweho n'amagambo y'umuhondo mu ibara ry'ubururu, iruhande rwaho hari ikirangantego kiri mu ibara rya oranje.

Ahantu hateraniye abantu batandukanye abagabo n'abagore, umwe muri bo w'umugabo yambaye ishati y'ubururu, ingofero n'ipantaro y'umukara, ari kwitaba terefone, inyuma ye hari idarapo ry'u Rwanda, inzu ndetse na shitingi ifite ibara ry'umweru.

Umugabo uri mu mbuga wambaye ishati y'amaboko maremare y'ubururu, ipantaro y'umukara, n'inkweto z'umukara, imbere ye ari koga intoki kuri kandagira ukarabe mu kajakani k'umuhondo, iruhande rwe hateye indabo.

Abantu barimo abagabo n'abagore bicaye muri shitingi izengurutswe n'amabara y'idarapo ry'u Rwanda, ubururu, umuhondo, icyatsi. Imbere yabo hahagaze umugore wambaye umwenda w'umweru ufite ikayi mu ntoki ndetse n'indangururamajwi y'umukara.

Umwana uri ku mugezi wambaye agapira karimo ubururu n'umukara n'agakabutura k'icyatsi uteze ikiganza cy'ibumoso ku mugezi, usa nk'uwisutse amazi mu mutwe inyuma ye hari abandi bana.

Abagore bicaye, bakikiye abana babo, bambaye imipira iri mu ibara rya oranje, umwe muri bo akikiye umwana amufatishije akaboko k'iburyo, umugabo abahagaze iruhande asekera umwana, ndetse yambaye n'amadarubindi.

Abantu batatu, umugore uteruye umwana, ufite udusaro tw'amabara y'umutuku, icyatsi, umuhondo mu mutwe ndetse n'umuganga ufite urushinge mu ntoki, uri kurumutera ku kaboko, umwana yambaye agapira k'umweru.

Abantu bicaye mu cyumba cy'isuzumiro umugore uteruye umwana uteze igitambaro mu mutwe n'umuganga wambaye umwenda w'akazi, ndetse yambaye n'icyo bapimisha abantu uko bahagaze mu ijosi, ibiganza bye bibiri bifashe mu ijosi ry'umwana.

Abantu batatu bari mu nzira y'igitaka, umwe ni umusaza, undi n'akana, undi n'umuganga wambaye imyenda y'akazi ndetse n'agapfukamunwa, afashe umusaza ku rutugu ndetse afite na mudasobwa mu ntoki.

Abantu barimo abagore n'abagabo bambaye imipira ifite ibara rya orange ndetse n'amapantaro, inyuma yabo hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye n'ikigega ndetse n'ibiti.

Abagore batatu bahagaze, umwe ukikiye umwana, undi afite agakoresho bakoresha bapima umuriro, yambaye agapfukamunwa, yambaye amarinete ndetse n'ijire y'akazi isa n'ibara ry'icyatsi ryererutse.

Inzu ifite umuryango w'icyatsi yicayemo abagore babiri n'akana bambaye ibitenge, umwe muri bo aricaye ateruye akana undi abahagaze hejuru yambaye ikote ry'abaganga afite agakombe mu ntoki yasamishije umwana.

Abagore babiri bari mu nzu, ifite urugi rw'icyatsi, ufunguyeho gatoya, umwe aricaye akikiye umwana w'agahinja, undi abahagaze hejuru, yambaye itaburiya y'abaganga, arimo guhereza umwana umuti.

Abantu bateraniye mu busitani bambaye amataburiya, ifite ibara ry'ubururu barimo gukoma amashyi, umwe muri bo aricaye, inyuma yabo hari ishitingi y'umweru ihagaritse ku biti, iruhande rwabo hari ibiti ndetse n'inzu.

Abantu baje kwivomera, harimo abagabo, abana, abagore, umwe muri bo bahagaze hejuru, yambaye ikanzu ifite ibara ry'iroza, iruhande rwe hari umugezi, hari amajerekani ari mu amabara atandukanye, umuhondo, icyatsi, umukara, hari amabase inyuma yabo, hari amazu n'ibiti.

Ikirango cy'umuryango ushinzwe abana ndetse n'uburezi ku isi hose kiri mu ibara ry'ubururu cyandikishijweho amagambo y'umweru, iruhande rwaho hari umubumbe w'isi urimo umugore uteraru uyu mwana.

Abantu bahagaze harimo umugabo w'umwirabura, ndetse n'umugore w'umuzungu bafashe umusego wanditseho sura u Rwanda mu ibara ry'umweru, umusego ufite ibara ry'umukara, nyuma yaho hari icyapa gifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Abantu bari mu cyumba k'inama bazengurutse imeza ndetse bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, babiri muri bo bicaye ku ruhande rw'ibumoso abandi babiri bicaye iruhande rw'iburyo, umwe muri bo yicaye imbere yabo, inyuma ye hari amarido afite ibara ry'umweru.

Abantu barimo abagore ndetse n'umugabo wambaye itaburiya y'ubururu, umugore ateruye umwana, iruhande rwabo hari umunzani upima ibiro by'abana, iruhande rwe hicaye abandi bagore.

Inzu irimo abantu batandatu, batanu ni abanyafurika, umwe ni umuzungu bambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu, udupfukamunwa, ama ga ndetse bipfutse mu mutwe, umwe muri bo aryamye ku gatanda undi amuri hejuru, hejuru yabo hariyo ishashi ihaze.

Abagore bari mu myaka itandukanye, bari mu nzu inyuma yabo hari imitako y'ubwoko butandukanye, ndetse bateze amaboko barimo kubyina imbyino ya Kinyarwanda. Iruhande rwabo hateretse ameza ndetse n'intebe z'umweru n'umukara.

Inzu ifite amadirisha, irimo imashini zicometseho insinga, hahagaze umuntu wambaye ingofero irimo umuhondo n'ubururu, wambaye agapfukamunwa ndetse n'amakote y'abaganga.

Harimo abagore n'abana, abo bateruye n'abahagaze, n'umuforomokazi wambaye imyenda y'akazi iri mu ibara ry'icyatsi, iruhande rwe hicaye umugore uri kwandika mu gitabo giteretse ku meza, ameza ariho amazi. Inyuma yabo hari idirishya.

Umuntu wambaye agapira karimo uturongo tw'umweru ndetse n'umukara, akaba azamuye agapira undi amufashe ku kaboko. Yambaye ga z'umweru ndetse n'ikote ry'umukara, arimo kumutera urushinge kuri ako kaboko.

Inyubako zitandukanye ziri ahantu hateye ubusitani, imwe muri zo yubatswe mu buryo bw'ibiziga, haciyemo utuntu tw'uduce duce, hagati yaho harimo icyuma ndetse no ku ruhande hagiye hakikijwe inyubako zimeze gutyo.

Abantu batandukanye harimo abasirikare bafashe inkongoro mu ntoki, umugore umwe muri bo asutamye iruhande rw'akana twambaye imipira ya oranje yanditseho amagambo y'umukara, arimo gusomesha akana kamwe ku mata akoresheje inkongoro.

Ivomero ririho abana n'abagore bamwe bahagaze inyuma undi mwana ahagaze ku mugezi, ateye igitenge mu bitugu yambaye agapira ka move n'akajipo karimo uturongo tw'umukara n'umutuku n'umugore wambaye ibitenge by'ubururu afite umutaka.

Abantu bari mu nama mbere yabo hateretse mudasobwa bicaye mu mbaga nyamwinshi n'abandi babicaye imbere hejuru barimo abagore n'abagabo bafite indangururamajwi basa nkaho bari mu biganiro, iruhande rwabo hari isakazamashusho irimo umugabo uri kuvugira mu ndangururamajwi.

Umwana uhagaze ku bukarabiro urimo koga intoki wambaye imyenda y'ishuri, agapira k'amaboko maremare gafite ibara ry'ubururu n'ikora ry'umweru, ijipo ifite ibara ry'ubururu, inyuma ye hari amazu n'ibiti.

Abantu bateraniye ahantu hari inzu ifite ibara ry'umweru, umuryango w'icyatsi, amabati y'umutuku, idarapo ry'u Rwanda ndetse n'amashitingi y'umweru, iruhande rwaho hari imodaka, inyuma yaho hari ibiti.

Abantu bari kuvoma kumugezi ufite imigezi ibiri, umwe muri bo kuvomera mujere y'umuhondo, umugore wambaye agapira k'ubururu witeye igitambaro cya move mu mutwe ukenyeye igitenge inyuma yabo hari ibiti.

Igishushanyo kiriho abantu batanu, abagore batatu n'abagabo babiri b'abazungu, munsi y'amafoto yabo hariho amazina yabo, mu nguni y'iki gishushanyo hariho ibara ry'ubururu ryandikishijwemo n'ibara ry'umweru, amagambo mu nyuguti nkuru.

Umugore uhetse umwana wambaye agapira gafite icyatsi cyererutse n'igitenge kirimo umutuku ndetse n'umuhondo, uri koza umufuniko w'indobo awogereza mu ndobo ifite ibara ry'umuhondo, iruhande rwe hatetse indobo ifite ibara ry'umutuku ari ku ku mugezi uzwi nka kano.

Umwana urimo koga intoki, kuri kandagira ukarabe, ifite akabase gasa orange, wambaye imyenda y'ishuri, ifite ikora ry'umutuku, na karuvati y'umutuku, ishati irimo uturongo tw'umutuku n'umweru, ijipo y'umutuku, inyuma ye hari igikuta cy'amatafari ya rukarakara.

Umugore uri kwivome, ukenyeye igitenge ,wambaye umupira w'imbeho wo mu ibara rya kaki n'ingofero, iruhande rwe hari imigezi ibiri ndetse n'amajerekani atatu, inyuma ye hari insina.

Umwana w'umuhungu wambaye ishati ifite amabara ya gisirikare n'agakabutura k'umutuku n'inkweto z'ubururu uteze amaboko yombi ku mugezi munsi ye hari indobo iri kuvamo amazi ifite ibara ry'ivu.

Abantu bari mu nzu barimo abagore n'abagabo ndetse n'abaforomo n'abaforomokazi, umwe muri bo yicaye ateruye umwana wambaye utwenda tw'ubururu bwerurutse, umuganga amufashe akaboko ari kumushyiriraho igipfuko

Umwana wagiye kuvoma ku mugezi, wambaye agakabutura k'iroza gahinnye hasi, imbere ye hateretse ikijerekani, afashe kuri kimwe, inyuma ye hari insina ndetse n'ibindi byatsi.

Abagore bicaye bateruye abana babo umugore umwe yambaye umupira w'umweru ateruye umwana wambaye umupira wa oranje, iruhande rwe hari umugabo ufashe isahani ifite ibara ry'umuhondo n'ikiyiko mu kaboko k'iburyo urimo kugaburira uwo mwana.

Inzu ebyiri zitaruzura, zubakishijwe amatafari ahiye, zifite amadirishya y'ubururu ndetse n'imiryango y'ubururu, iruhande rwaho hahagaze umuntu, imbere ye hateretse ikirundo cy'amatafari n'umusenyi.

Abantu barimo abagabo abagore bateraniye ahantu hari inzu ifite umuryango w'icyatsi, ku ruhande rwaho hari shitingi ifite ibara ry'umweru, hari idarapo ry'u Rwanda hari n'icyapa kigaragaza abantu bambaye ibara ry'ubururu, ku ruhande rwabo hari ibiti.

Umugore wicaye mu nzu uteruye umwana, wambaye igitenge kirimo umutuku n'ubururu n'umweru, uri kumwe n'umuganga wambaye umwenda w'abaganga ndetse na ga z'abaganga barimo gusuzuma umwana.

Abana bari ku ishuri bambaye inifomo zifite amabara atandukanye, harimo abambaye amashati y'icyatsi, ubururu ndetse n'umweru bari kunywera amazi kuri robine ifite urufunguzo rw'umutuku ndetse inyuma yabo hari ibiti.

Abakobwa bane n'umuhungu umwe bambaye imipira y'ubururu iriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru n'ingofero z'umweru bazamuye ukuboko kw'iburyo inyuma yabo hari icyapa cy'umweru kiriho amagamboga yanditse mu ibara ry'ubururu.

Ahantu hari abantu batandukanye, harimo umusaza wambaye ikoti ry'umukara, agapira k'umweru, ingofero y'umukara, wicaye kumeza ifite ibara ry'umweru n'umuforomokazi ufite igikoresho gipima umuvuduko w'amaraso.

Ikirangantego cy'umuryango wita ku buzima ku isi hose kirimo ingano ndetse n'igiti gishinze hagati kizengurutseho inzoka, hasi handitse amagambo y'ubururu mu nyuguti nkuru asobanura uwo muryango.

Umugezi uzwi ku izina rya kano, imbere yaho hateretse ikijerekani cy'umuhondo, hahagaze abana bane b'abahungu, umwe wambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'ubururu, undi wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umukara, inyuma yabo hari ibiti.

Abantu barimo abagore n'abagabo bari mu cyumba cy'inama bose bafite impapuro n'amakaramu barimo kwandika, bari mu nzusi isize irangi ry'umuhondo ndetse ku bikuta hagiye hariho ibipapuro byandikishijweho ikaramu bifite ibara ry'umweru.

Umwana muto w'umukobwa wambaye ikanzu y'igitenge iririmo tubara tw'umweru, ubururu ndetse na oranje ufite icupa ry'amazi uri ku mugezi. Iruhande rwaho hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye.

Abantu batandukanye bari mu cyumba cy'inama bagiye bicaye ku meza zitandukanye bakoze uruziga, imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'umweru ndetse na mudasobwa umwe muri bo arimo gutanga imbwirwaruhame.

Abantu bari mu nzu barimo abagabo n'abagore bahagaze ku mirongo ibiri, umwe hasi, undi hejuru, inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru n'ubururu, ku ruhande rwabo hari idarapo ry'u Rwanda.

Abantu bicaye barimo abagore abana ndetse n'abagabo, umwe muri bo ahagaze imbere afite ikayimu ntoki, ndetse n'ikaramu ari gutanga imbwirwaruhame, inyuma ye hari inzu yubakishijwe ibiti ifite ibara ry'ubururu.

Icyapa kiriho imiryango itandukanye, harimo nk'umuryango ushinzwe kwita ku bana ku isi hose, umuryango ushinzwe ubuzima ku isi hose, umuryango ushinzwe kurwanya kovide cumi n'icyenda ndetse n'yindi itandukanye.

Abantu barimo abakobwa, n'abahungu, bamwe bambaye imipira y'ubururu, abandi bambaye iy'umukara, bafite igishushanyo kiri mu ishusho y'urukiramende, kiri mu ibara ry'ubururu, cyandikishijweho amagambo y'umweru hejuru.

Inzu yicayemo abagore batatu, umwe muri bo yambaye ingofero y'umweru ndetse n'agapira k'umweru n'ubururu, bose bafite amakaramu barimo kwandika, undi wicaye ku ruhande arimo kubareba, inyuma ye hari utubati turimo amakaye.

Inzu irimo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe, imbere yabo hariho ameza ariho ibitambaro by'umweru n'ubururu, ateretseho ibintu bitandukanye, harimo amazi ndetse n'amashakoshi, imbere yabo hahagaze umugore wambaye ikanzu y'umweru n'ikote ry'umukara.

Abagore batatu, babiri barunamye iruhande rwabo hateretse amabuni, umwe yambaye agapfukamunwa k'umweru n'agakoti k'umukara undi yambaye ikanzu y'ibara ry'ikijuju, undi muri bo uhagaze yambaye agapfukamunwa k'umweru ndetse n'ikanzu y'umutuku.

Abana babiri umukuru n'umuto, bagiye kuvoma ku mugezi utemba, umukuru afite ijerekani nini, umutoya afite agatoya, inyuma yabo hari ibihuru, mu mazi harimo ikibuye.

Inama irimo abana batandukanye, abagabo ndetse n'abagore bamwe bicaye mu mbaga nyamwinshi abandi bicaye imbere, inyuma yabo hari icyapa gishushanyijeho amasura y'abantu n'icyo bakora.

Abantu bari ku mugezi, inyuma yabo hari ibiti, imbere yabo hateretse ibijerekani by'umuhondo, hari imigezi itatu ndetse umuntu uhagaze ku mugezi yambaye agapira k'umukara, inyuma yaho hari umuryango ufunguye usize ibara ry'umweru.

Abagore batandukanye bari kwivomero batatu muri bo bahagaze inyuma y'ivomero abandi babiri bahagaze imbere yaryo ,iruhande rwabo hari umugezi bafatanyije gutererura indobo imwe ifite ibara ry'ubururu iruhande rwabo hari indobo ifite ibara ry'umutuku inyuma yabo hari ibiti.

Umugore n'umwana bari mu murima w'imboga, umwana afite isahani y'icyuma iriho imboga, yambaye agapira k'umweru ndetse n'iroza gashushanyijeho utuntu tw'icyatsi, umugore yambaye agapira n'ijipo, yiteze n'agatambaro k'umweru.

Abana bambaye inifomu, bamwe muri bo bambaye amashati y'umweru, karuvati z'umukara ndetse n'amajipo arimo uturongo tw'amabara atandukanye, undi yambaye ikanzu ya kaki, inyuma yabo hari ibiti.

Abagore babiri, umwe ari umuganga wambaye itaburiya y'abaganga ifite ibara ry'umweru, n'undi uteruye umwana mutoya wambaye umupira wa move, umuganga arimo kuvura umwana

Inzu irimo abantu abagabo ndetse n'abagore, inyuma yabo hari icyapa gishushanyijeho umuganga. Inzu ifite ibara ry'umuhondo, hagati hahagaze umugabo wambaye ishati y'ubururu bwerererutse n'ipantaro y'umukara.

Umukobwa uri kuri robine wambaye agapira k'iroza n'ijipo y'umukara, uri kuvomera mu ijerekani y'umuhondo iteretse mu mabase abiri afite ibara ry'ivu ndetse n'ubururu, inyuma ye hanitse imyenda y'amabara atandukanye, iruhande rwe hari inzu ikozwe mu mabati.

Abantu bari mu cyumba cy'inama bamwe baricaye umwe muri bo ahagaze imbere yabo ku gatuti gafite ibara ry'umukara, inyuma yabo hari icyapa gifite ibara ry'umweru ndetse cyanditsemo n'amagambo ari mu ibara ry'ubururu hejuru hari icyapa kigaragaza ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Abana bari ku ishuri mu kibuga bambaye impuzankano zifite ibara ry'ubururu, inyuma yabo hari idarapo ry'igihugu cy'U Rwanda, ndetse n'ibiti, ndetse n'inzu yubakishijwe amatafari ahiye.

Icyapa kigaragaza ibitaro byita ku barwayi bo mu mutwe by'indera kirimo ibara ry'umweru n'amagambo y'umukara ndetse n'ubururu iruhande rwawo ahagaze umugabo w'umuzungu wambaye ishati irimo uturongo tw'umweru n'ubururu n'ipantaro ya kaki.

Icyapa kiriho umugabo wambaye ishati y'umweru ufite indangururamajwi ifite ibara ry'umukara mu ntoki kuhande ye hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru ndetse n'izina rye ryanditse mu ibara ry'umuhondo hasi handitse ubuzima bwo mu mutwe mu ibara ry'umweru ndetse n'ahandi handitse mu ibara ry'umuhondo.

Umuntu wicaye ufite uburwayi bwo mu mutwe, wambaye igitenge wakifunze mu ijosi, yicaye ku muferege iruhande rwe hari umucaca, mu muferege harimo ibintu bitandukanye nk'amashashi ndetse n'utujerekani.

Umuntu urimo kurira wambaye umwenda w'umukara ku maboko, ufite ibara ry'umweru wipfutse mu maso n'ibiganza bibiri n'agatambaro yihanaguza mu maso wambaye ingofero y'ubwoya y'umukara, inyuma ye hari abantu.

Abantu bicaye hanze, basa nkaho ari umuryango, babiri muri bo bafite ikayi n'amakaramu, umugabo yicaye ku ntebe ikozwe mu giti, irambuye yahinnye amapantaro, inyuma yaho hari ibiti ndetse n'insina.

Icyapa cyampamaza umunsi mpuzamahanga wita ku barwayi bo mu mutwe n'itariki, hejuru yawo hariho abafatanyabikorwa harimo nk'ikigo cy'igihugu cyita ku buzima ndetse n'umuryango wita ku bana ku isi.

Abantu bahagaze ahantu barimo abagabo n'abagore bafashe icyapa gifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi cyankishijweho amagambo y'umweru n'umukara, inyuma yabo hari inzu ifite inzugi z'icyatsi cyerererutse.

Abana barimo abakobwa n'abahungu bari ahantu hari ibyatsi byumye, harimo uwambaye inkweto z'icyatsi, ipantaro y'icyatsi n'agapira k'umweru ndetse n'undi wambaye ibirenge n'ikote ry'umukara.

Umugabo ufite uburwayi bwo mu mutwe, wambaye imyenda yacikaguritse, isengeri n'ipantaro, wisize imbyiro mu maso, ku rutugu rwe hari amashashi y'umweru ndetse n'ubururu, inyuma ye hari imodoka iri mu bwoko bwa fuso, ifite ibara ry'icyatsi.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, kiriho umukobwa urimo guseka, hejuru yawo mu ibara rya oranje handitse amagambo y'umweru, ikigo gishinzwe ubuzima ku isi, ndetse hari n'imibare, rimwe, kabiri, gatatu, igiye iriho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Ahantu bamena imyanda hahagaze umugabo usa nk'ufite uburwayi bwo mu mutwe, ufite igikinisho cy'imbunda, wambaye ibyahi. Inyuma ye hari imyanda myinshi, ibipine, ibintu by'ibimodoka by'ibyuma ndetse n'amazu.

Abantu bari muri shitingi, imbere yabo hari amezi atandukanye ara ararambuye ndetse n'akoze uruziga, umwe muri bo bambaye ibibaranga mu ijosi, imbere yabo hari ibitabo ndetse n'ibindi bintu harimo n'igipirizo cy'umutuku.

Umugore w'umwirabura wambaye ishati ya maboko maremare ifite ibara ry'umweru ndetse n'akarongo k'umukara ku maboko, wunamye wifashe mu mutwe, usutse inweri.

Abantu babiri bicaye mu nzu isize amarangi y'umweru, umwe muri bo ni umugabo, yubitse umutwe mu biganza byombi, yambaye ishati y'icyatsi cya gisirikare n'ipantaro y'ikoboyi, undi mugore amukoze ku rutugu yambaye isaha mu kuboko k'ibumoso.

Icyapa kigaragaza serivisi zitangwa ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe, bimwe biri mu karongo k'umukara akandi umweru, akandi ubururu, akandi icyatsi, akandi oranje, akandi umutuku hagiye hariho n'aho ibitaro biherereye.

Umugore wambaye agapira k'umweru uteruye umwana wambaye agapira k'umweru ndetse n'ivu, inyuma yabo hari igikuta cyubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'idirishya risize amarangi y'umuhondo.

Icyapa kigaragaza urubuga rw'abantu bita ku buzima byandikishijwe amagambo y'umukara, munsi yawo yandikishijwe amagambo y'umweru ku ruhande hashushanyije abantu babiri umwe yambaye agapira k'ubururu n'ipantaro yumuhondo, nundi wambaye agasarubeti k'ubururu n'agapira k'umweru.

Umukobwa wicaye mu ntebe, hanze mu kabaraza, urimo guseka, wambaye agasengeri k'umukara, n'umuringa mu ijosi, n'ipantaro y'ikoboyi ihinnye, akaguru kamwe karazamuye, akandi kari hasi, n'inkokora imwe irazamuye, inyuma ye, hari ibiti n'inkingi y'umweru.

Abantu bari mu nzu y'inama ririmo abagore n'abagabo bamwe muri bo bicaye hasi abandi bicaye ba ahakurikiyeho, bamwe bicaye imbere y'ameza ariho igitambaro cy'umweru bambaye udupfukamunwa, inyuma yabo hari icyapa cyamamaza kiririmo amabara y'ubururu ndetse n'umweru, ku ruhande hariho abafatanyabikorwa babo.

Umugore n'abana bicaye ku kirago, umugore ateruye akana gatoya, yiteze igitambaro cya oranje, imbere ye hateretse inkoko iriho ingano, inyuma yabo, hariyo inzu y'ibyondo n'urugi rukozwe mu biti.

Abagabo babiri umwe wambaye ishati ya oranje irimo utubara tw'ubururu n'ipantaro y'umukara, urimo gusuhuzanya n'undi ufite imisatsi myinshi wambaye imyenda icitse. Bari mu nzu ifite amabara y'umuhondo wererutse.

Umugore wambaye amadarubindi n'umwenda urimo ibara ry'umuhondo n'ubururu, mu ijosi rye yambaye ikimuranga kiriw mu ibara ry'ivu n'umweru, cyandikishijweho amagambo y'umukara, ashushanyijeho urumuri rw'icyizere.

Abagore batatu bahagaze ahantu mu muririma, bafite inkoni mu kaboko k'iburyo umwe muri bo ataruye umwana ari kumwonsa, yambaye agapira k'iroza n'igitenge kirimo ubururu ndetse na oranje, inyuma yabo hari umurima, imisozi ndetse n'ibiti.

Abantu bicaye mucyumba cy'inama, gisize amarangi y'umweru, iruhande rwaho hariho isakazamashusho, bamwe muri bo bicaye ku ntebe z'umutuku, umwe yambaye ikote ry'umukara n'ibitenge birimo umweru ndetse n'umukara, undi yambaye agapira k'umweru n'ipantaro .

Abantu bicaye ahantu, harimo abagore batatu n'umugabo umwe. inyuma ye hari igitambaro cy'ubururu, umugore umwe yambaye ijire ifite ubururu bwijimye, yambaye agapfukamunwa, ku kuboko yambaye udukomo. Inyuma ye hari umugore witeze mu mutwe, ndetse wambaye n'ijipo y'umukara.

Umupira uri mu ibara ry'umweru n'ubururu, ndetse no kw'ikora usa ubururu, inyuma wandikishijweho amagambo y'ubururu mu nyuguti nkuru RPS in, igishushanyo kigizwe n'ibara ry'iroza, icyatsi ndetse n'ubururu, imyuma ku ruhande rwayo handikishijwe amagambo y'ubururu.

Umugabo wakutse amenyo urimo guseka wambaye ishati y'amaboko maremare ifite uturongo tw'umweru ndetse n'umukara wambaye umushanana w'umuhondo mu kaboko k'iburyo afashe icumu rikozwe mu giti ririho akabara k'umukara.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama umwe muri bo ahagaze imbere abandi baricaye ku ntebe z'umukara iruhande rwabo mu nguni hari insakazaamashusho ifite ibara ry'umukara hacanye ndetse n'amatara.

Abantu bicaye bakoze uruziga, bicaye ku ntebe zikozwe mu bwoko bw'ibiti, harimo abagabo, abagore, hari igikapu cy'umukara, ku ruhande rwabo hagiye hateretse agakayi ndetse n'amazi ari mu bwoko bwa nire, batatu muri bo bahagaze mu ruziga, abandi baricaye.

Abantu babiri bicaye harimo umukobwa wambaye ikote ry'umutuku, n'ingofero ifite amabara ya gisirikare, wifashe ku itama n’undi wambaye agapira k'umukara n’ipantaro y’umukara amufashe ku rutugu asa nkaho arimo kumuhumuriza.

Umuntu usa n'ufite uburwayi bwo mu mutwe, wambaye imyenda yacitse, ufite umuneke mu ntoki, iruhande rwe rw'ibumoso hari ibiti ndetse ku ruhande rw'iburyo hari umuhanda uri kugendamo moto n'imodoka.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru, gishushanyijeho umutwe w'umuntu, mo hagati handitsemo amagambo mu ibara ry'icyatsi, asobanura ko ari umunsi mpuzamahanga wahariwe abarwayi bo mu mutwe, uzaba mu kwa cumi tariki icumi.

Umugore ukuze wicaye ku gasonga bugari utetse ku mashyiga agizwe n'amabuye abiri, utetse mu isafuriya ifite ibara ry'umukara inyuma, iruhande rwe hari umufuniko n'igikombe cy'icyatsi, inyuma ye hari inzu yubakishijwe amatafari ifite imiryango y'icyatsi.

Umugore ukuze wambaye amaherena ndetse n'urunigi rufite amasaro y'umweru, ubururu n'umuhondo, witeze igitambaro cy'umweru mu mutwe, ari kureba ku ruhande, abumbuye umunwa.

Abantu batatu abagore babiri ndetse n'umugabo umwe, umugore usa nkurwaye mu mutwe wambaye imyenda icitse afashwe n'umugabo ufite inkoni mu ntoki ndetse n'umugore wambaye urunigi n'agapira karimo uturongo.

Abantu bicaye mu kibuga, bamwe bicaye mu ishitingi y'umweru n'icyatsi bicaye ku ntebe z'umweru, abandi barahagaze iruhande rwabo hari intebe zifite ibara ry'umutuku n'umuhondo, abandi bicaye ku ntebe, umwe afite amakayi arimo kwandika undi amuteze amatwi.

umuntu urimo gukora isuku yo mu menyo akoresheje agakoresho kabugenewe kaba kameze nk'urukezo gafite akagozi gatambitse kuruhande kari mu ibara ry'ubururu witeze isume mu mutwe y'umweru.

Abantu babiri, harimo umuforomo wambaye umwenda w'ubururu n'agapfukamunwa k'ubururu ndetse wambaye na ga z'umweru n'undi mugore wambaye amaherena, wasamye, barimo kumukozamo ibikoresho bakoresha bakura amenyo.

Abantu babiri umugabo n'umugore, umugabo wambaye ishati irimo uturongo tw'ubururu n'umweru n'umuganga ufite agakoresho kabamo amenyo asimbura ayangiritse, mu kaboko k'iburyo afitemo iryinyo agiye gushyira kuri uwo mugabo.

Inzu irimo abagabo babiri umwe wambaye agapira k'icyatsi n'undi wambaye umwenda w'abaganga, ga ndetse n'agapfukamunwa, arimo kumusuzuma mu kanwa, inyuma yabo hari amarido afite ibara rya kake ndetse n'amadirishya y'ibirahure.

Umwana wirabura wambaye ishati y'ubururu y'amaboko maremare, ufite uburoso bwamenyo mu ntoki, bufite ibara ry'icyatsi, ubururu, umuhondo ndetse buriho umuti wamenyo, abufatishije akaboko k'ibumoso werekanye amenyo.

Umukobwa wirabura muto muto ufite imisatsi igera mu ntugu, wambaye agasengeri k'umweru, ufite umuti w'amenyo mu kaboko k'ibumoso ndetse mu k'iburyo afitemo uburaso bw'amenyo arimo kubakoza mu menyo.

Abantu batatu bari mu nzu, babiri ni abaganga undi umwe n'umwana, inyuma yabo hari ibyapa bifite ibara ry'ubururu byandishijweho amagambo y'umweru ndetse n'umuryango ugizwe n'ababyeyi ndetse n'abana ku ruhande rwabo hari imeza ariho impapuro.

Umuntu wasamye barimo gukura iryinyo, hari akuma gafashe iryo ryinyo baguyemo ndetse n'umwobo barikuyemo hari kuva amaraso.

Umugabo w'umwirabura ufite ubwanwa bw'umukara urimo guseka ufite inyinya ufashe akagozi k'umweru mu biganza byombi arimo kugakoza mu menyo.

Inzu ifite ibara ry'umweru irimo n'ibikoresho by'umweru hari ubwogero bwa kijyambere, i ruhande rwaho hari akabindi gateretsemo igiti gafite ibara ry'umweru, inyuma yaho hari intebe ifite ibara ry'ubururu n'amapine.

Abantu babiri bari mu nzu harimo umuganga ndetse n'umwana waje kwivuza amenyo, umuganga mu kaboko ke k'ibumoso afasheho akuma yazamurishije iminwa akandi gafashe ku ryinyo.

Icyuma bifashisha mu buvuzi bw'amenyo, gifite ibara ry'umweru ndetse n'ivu, gifite udutsiga dutatu ducometse ku ruhande ndetse n'akandi kamwe karekare, gateretse ku meza y'umweru, inyuma yaho hari icyo bajugunyamo imyanda.

Abantu babiri umugore n'umwana, bose bafite uburoso bw'amenyo, buriho n'umuti w'amenyo, umugore afite uburoso bw'iroza, umwana afite uburoso bw'umweru, bambaye udusengeri tw'umweru, arimo gusekera umwana umwereka uko babigenza.

Umugore urimo guseka undi yambaye ga z'umweru afite agakoresho kariho amenyo atandukanye afashe iryinyo rimwe akoresheje agakoresho kabugenewe aripima ku rindi ryinyo.

Umuntu wicaye mu nzu ifite amarangi y'umweru, irimo ibikoresho bitandukanye uri guseka, ufite agatambaro mu gituza ke, wicaye ku ntebe igira agasego, imbere ye hateretse agasorori.

Umugabo w'umunyafurika urimo guseka, wambaye ubusa hejuru, ufite akagozi bakoresha barimo gusukura amenyo, yakaziritse ku rutoki rw'akaboko kamwe k'ibumoso ndetse no ku rundi rutoki n'akandi kaboko k'iburyo.

Inzu irimo abagore babiri, umwe yambaye ikoti ry'ubururu, afashe urupapuro mu ntoki, undi yambaye ikoti ry'umutuku, afashe ikaramu n'urupapuro, iruhande rwabo hari ameza ariho igitambaro cy'ubururu, ateretseho amazi, terefone n'impapuro, inyuma yabo hasize irangi ry'umuhondo werurutse ndetse hari n'ibyapa biriho amabara atandukanye.

Umuntu wambaye ga z'ubururu ufashe mudasobwa mu kaboko k'ibumoso, akandi kaboko urutoki ruri ku menyo yerekana iryinyo rifite ikibazo, ahandi hari iryinyo rifite ikibazo.

Inzu irimo abantu babiri, umuganga ndetse n'umurwayi uryamye ku gatanda, umuganga yambaye ga z'umweru n'imyenda y'icyatsi n'agapfukamunwa n'amadarubindi, ufite itoroshi yifashisha arimo kureba mu kanwa, inyuma yabo hari akabati kariho ibitabo.

Abana bari mu ishuri bambaye inifomo bamwe bambaye amashati y'umuhondo werurutse, abandi bambaye amashati yubururu ndetse n'umukobwa usa nk'aho ari mukuru muri bo, inyuma yabo hari idirisha rifite ibara ry'icyatsi, mu ntoki zabo bafitemo uburoso bw'amenyo abandi bafite umuti w'amenyo.

Umwana w'umukobwa wambaye agapira k'umweru n'agakanzu gasa icyatsi karimo utudoma tw'umweru, ndetse n'umubano ufite ibara ry'iroza, ufite uburoso bw'amenyo mu kaboko k'iburyo, arimo kw'iborosa.

Abantu bahagaze hanze yishitingi kuri iyo shitingi hariho icyapa kigaragaza icyo barimo gukora kuruhande hashushanyije umuntu urimo guseka buri wese afite ifishi mu ntoki kuruhande rwabo hari umunzani ,batonze umurongo.

Inzu irimo abantu batandukanye abenshi biganjemo bambaye imipira y'icyatsi yanditseho n'amagambo y'umuhondo ngo tubiteho, umugore umwe muri bo arahagaze, bicaye ku ntebe z'ibiti, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru.

Imashini yo kwa muganga bifashisha basuzuma amenyo, hejuru hariho ibintu bibiri bimeze nka mudasobwa, ifite ibara ry'umweru, ku ruhande rwaho hacometseho insinga ndetse hari n'intebe ifite ibara ry'umukara ndetse n'amapine.

Abantu bari muri siporo umwe muri bo yambaye agapira k'umweru afashe akantu bifashisha mu myitozo ngororamubiri, gafite ibara ry'iroza n'inyuma ye gafite andi mabara atandukanye.

Umugore wambaye agapira ka kaki ndetse n'ak'ubururu ufite ikirahuri cy'amazi mu kaboko k'iburyo ndetse n'ibinini mu kaboko k'ibumoso, inyuma ye hari amarido y'umweru abonerana ndetse na robine.

Abantu batandukanye bari kugenda mu muhanda w'igitaka, harimo abakecuru babiri bari imbere bafite inkoni mu kaboko k'ibumoso, bambaye imipira y'umutuku n'imishanana y'umweru, n'akitero k'umweru, undi wambaye akitero karimo ururabo rwa oranje.

Abagore batatu bicaye umwe kuhande rw'ibumoso undi ku rw'iburyo uwicaye, hagati afashe terefone mu ntoki arimo kwereka abandi, undi afite indodo mu ntoki inyuma yabo hari utubati turimo amakaye.

Ubagore babiri bicaye, umwe yicaye mu kagare k'abafite ubumuga gafite ibara ry'umukara, yambaye ipantaro y'icyatsi, afite umusatsi muke, yambaye amaherena, undi yambaye imyenda y'ubururu y'abaforomokazi, yicaye ku ntebe isanzwe, arimo kumupima umuvuduko n'igikoresho gifite ibara ry'ubururu.

Abantu bicaye muri shitingi y'umweru, iruhande rwabo hari inkingi y'umukara, umwe muri bo arahagaze arikubahereza ibiryo, yambaye ikanzu y'umukara ndetse n'isengeri ifite ubururu bwijimye yanditseho n'amagambo y'umweru.

Umugabo ukuze, ufite imvi z'umweru ndetse wambaye n'amadarubindi, wambaye agapira k'amaboko magufi kari mu ibara rya kaki, iruhande rwe hahagaze umuforomokazi wambaye imyenda y'ibara ry'umutuku ndetse n'ibimuranga mu ijosi.

Abagore babiri bicaye mu nzu, harimo umwe ukuze ufite ikirahuri cy'amazi mu kaboko ku iburyo, imbere ye hateretse ibinini, ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'akazi ifite ibara ry'ubururu ndetse ufite n'igikoresho bifashisha bapima uko umuntu ameze mu mubiri, urimo kumuha imiti.

Abantu batatu bicaye imbere y'umuryango w'inzu, harimo umusaza ufiti imvi, inkoni ndetse afite n'ibisuguti mu ntoki n'utwana tubiri, kamwe kambaye agapira k'umweru n'ijipo y'umutuku n'akandi kambaye agapira k'ibara ry'iroza, gafite akajarekani mu ntoki.

Umusaza ukuze ufite imvi mu mutwe ndetse no mu bwanwa w'umwirabura wicaye mu bwogero bwa kizungu buzwi nk'ibase bufite ibara ry'ubururu uri kozwa n'umugore akoresheje ibiganza byombi.

Abantu babiri bicaye, umugabo n'umugore wambaye ishati irimo uturongo twa oranje n'ubururu, wahinye amaboko yishati ye ufite agacupa k'imiti gafite ibara ry'umukara mu ntoki n'umugore ufite mudasobwa imbere ye, wambaye amarinete, ufite imisatsi y'umweru, wambaye ishati y'ubururu. Ku meza hateretse uducupa tubiri turimo ibinini.

Abantu babiri; umugore n'umugabo bari mu gikoni cya kijyambere, umwe muri bo yambaye umupira w'iroza, undi yambaye umupira w'umweru, imbere yabo hateretse amasahani ariho ubwoko bw'ibiryo bitandukanye, inyuma yabo hari ibikoresho byo mu gikoni.

Abagore bari mu murima wi'cyayi barimo gusoroma, umwe muri bo yambaye imyenda y'ubururu n'agatambaro k'ubururu, undi yiteze igitambaro cy'umutuku n'umukara n'umweru, inyuma yabo hari abandi bafite igitebo barimo gushyiramo icyo bamaze gusoroma.

Umugabo ukuze ufite ubwanwa bw'imvi wambaye agapira k'amaboko maremare k'icyatsi mu kuboko kwe kw'iburyo afite ikirahuri cy'amazi iruhande rwe ibumoso hicaye umuforomokazi wambaye imyenda y'akazi ifite ibara ry'ubururu ndetse n'ibimuranga arimo kumuhereza imiti iri kuva mu gacupa gafite ibara rya orange.

Inzu irimo abantu babiri, umukobwa ndetse n'umugabo ukuze ufite imvi, ufite terefone ayifatishije akaboko k'iburyo, imeza bicayeho iteretseho radiyo, iruhande rwabo hari idirishya ry'ibirahuri n'ibiti.

Umugabo n'umugore, umugore w'umuzungu wambaye agapira k'umweru ndetse n'ubururu, afashe mu kiganza umugabo w'umwirabura wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'ubururu n'ipantaro y'ivu, ufashe ku nkingi arimo kumanuka.

Umugabo n'umugore bafatanye ku rutugu, umugore urimo guseka wambaye agatambaro k'umutuku mu mutwe, wambaye ikote ry'ubururu bwijimye, n'umugabo wambaye ikote ry'umukara.

Umugore ukuze uri muri siporo, uri kuyikorera ku mukeka bakoretaho siporo, ushinze inkokora ndetse yafunze n'ibipfunsi, inyuma amano arashinze, yambaye agasengeri kari mu ibara ry'iroza n'umweru, inyuma ye hari ibara ry'umweru.

Abagore bicaye, bari mu myaka itandukanye, bamwe bicaye hasi, abandi bicaye ku ntebe, bicaye ahantu mu byatsi, bari kumwe n'abana, inyuma yabo hanitse imyenda, umwe muri bo wicaye hasi arikuboha igitebo, inyuma yabo hari amazu ndetse n'ibiti.

Abagore babiri bari mu nzu, umwe muri bo yicaye mu ntebe ifite ibara ry'umweru, wambaye agapira k'ubururu ndetse n'akandi karimo uturongo tw'umweru n'umukara, inyuma ye hari umuforomokazi wambaye imyenda y'ubururu n'agapira k'umweru amufashe ku rutugu.

Umusaza n'umukecuru bafite imvi bicaye mu nzu isize amarange y'umweru, bicaye ku meza ateretseho amazi ndetse n'agacupa k'imiti. Umusaza mu kaboko ke k'iburyo afite ibinini, ak'ibumoso afite agacupa karimo ibinini. Umukecuru afite agapapuro arimo kumusomera amabwiriza.

Abantu bicaye munsi y'igiti bagizwe n'abagabo n'abagore, bamwe muri bo baricaye ku ntebe abandi bicaye hasi, umwe muri bo afite mudasobwa bakoze uruziga, inyuma yabo hariyo inzu ebyiri zubabakishijwe ibyondo.

Umukecuru wicaye hasi wambaye igitenge kirimo ibara ry'umuhondo n'icyatsi, wambaye umupira w'umweru witeza agapira k'umweru, iruhande rwe hari amashyiga agizwe n'amabuye. Hariho udusafuriya tubiri, kamwe gapfundikiye akandi, ku ruhande rwe hariho ibiti.

Umuryango ugizwe n'abagabo babiri n'abagore babiri, umugore umwe n'umugabo umwe barakuze, umugore yambaye impeta, umugabo yambaye amadarubindi, akana gatoya kambaye ishati y'ubururu irimo uturongo tw'umukara, inyuma yabo hari imodoka y'umweru.

Abantu babiri bakuze bicaye mu nzu harimo umusaza wambaye agapira k'ubururu na agakoma k'umukara mu kaboko k'ibumoso afite agacupa k'imiti mu kaboko k'ibumoso n'ibinini mu kaboko k'iburyo imbere yabo hari ameza ateretseho ururabo, ikirahuri ndetse n'umugore arimo kumusomera amabwiriza agenga imiti.

Abagore babiri, umwe wicaye, wambaye umupira w'ivu, ufite ibipesi, ndetse n'akandi ko mo imbere gafite ibara ry'ubururu bwererutse, n'umuforomokazi uhagaze, wambaye imyenda isa n'ubururu bwijimye, ndetse n'umweru ku maboko, iruhande rwabo hari itara.

Umugabo ukuze ufite imvi wambaye ishati ya shokora, akaboko k'ibumoso kifashe mu gahanga, akandi kari ku meza, imbere ye hari ibitabo, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye ,ari mu nzu ifite ibara ry'umweru.

Abantu barimo abagabo n'abagore bicaye muri shitingi ifite ibitambaro by'umweru, umwe muri bo yambaye ishati y'ubururu ingofero y'umukara n'umushanana w'umweru, undi yambaye ishati y'umweru umushanana w'umukara n'ingofero ya kake.

Inzu irimo umugore n'umugabo, bose barimo guseka bafite imisatsi y'umweru, umugabo yambaye amadarubindi umupira w'ubururu n'ipantaro ya kake, umugore yambaye umupira w'iroza, ndetse n'akandi gapira gato ko mo imbere, k'ikijuju.

Abagore bicaye, baremye isoko, bambaye imyenda iri mu bwoko bw'ibitenge, imbere yabo hateretse inyanya, ziri mu bikarito, inyuma yabo hari amacunga, umwe muri bo ari kuvuga, abandi bari kumureba.

Inzu isize amarangi y'umweru irimo abantu babiri, umwe arahagaze undi aricaye, umugabo afite inkoni mu kaboko ke k'ibumoso, yambaye impeta n'umukobwa wambaye imyenda y'abaforomokazi ifite ibara ry'ubururu.

Abantu babiri bari mu nzu harimo umusaza wambaye agapira k'ubururu n'ikabutura y'umukara ndetse n'umuforomo kazi wambaye imyenda y'umukara urimo kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri, inyuma yabo hari akabati k'umweru ndetse n'umuryango w'icyatsi.

Abagore babiri, umwe yambaye amadarubindi afashe ikirahure kirimo umutobe, imbere yabo hateretse imboga z'ubwoko butandukanye z'ibyatsi, inyuma yabo harimo akabati karimo ibikoresho byo mu gikoni nk'ibyuma, amasorori n'ibikombe.

Umugabo ukuze wambaye amarinete ufite imvi wambaye agapira k'ubururu ipantaro y'umukara mu maboko yombi afite utwuma bifashisha kugirango bakomeze umubiri inyuma ye hari ibiti.

Abagore babiri bari muri siporo barambuye amaboko yombi, umwe uri inyuma aratwite yambaye agasengeri k'ubururu, undi uri imbere arakuze afite imisatsi irimo imvi n'indi isa zumukara, afite akantu k'umweru ku kaboko.

Inzu irimo umukecuru n'umusaza, umukecuru wambaye urunigi mu ijosi ufite imvi z'umweru wambaye agapira k'ubururu ufite urupapuro mu ntoki n'umusaza ufite terefone mu kaboko k'iburyo, imbere yabo hariyo ameza ateretseho uducupa tw'imiti ndetse n'ikirahuri cy'amazi.

Icyapa cyanditseho amagambo aranga ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda byanditse mu mpine mu ibara ry'ubururu, umuhondo, icyatsi ndetse n'umukara mu magambo arambuye.

Inzu irimo abakobwa bari mu matsinda buri tsinda rifashe igishushanyo kiri mu ishusho y'urukiramende, gifite ibara ry'iroza n'umuhondo, mu nguni yaho harimo umugore wambaye agapira kari mu ibara ry'ubururu, inyuma yabo hari idirishya risize ibara ry'ubururu.

Umwana uri guseka wambaye agapira gafite ibara ry'icyatsi n'umweru, ufite igipfuko uri kumwe n'umuganga wambaye ikote ry'abaganga ry'umweru, hejuru handitse amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse n'ayandikishijwe ibara ry'umweru.

Umugabo n'umugore bafite ibyapa bitandukanye byanditseho, amagambo ari n ibara ry'umweru ndetse n'umukara, ibyapa bifite ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi, ku ruhande rwabo hari icyapa gifite ibara ry'ubururu n'umweru, byandikishijweho amagambo y'umukara, inyuma yabo hari utwuma ndetse n'ibiti.

Abantu batandukanye bari mucyumba cy'inama, bishimye bazamuye amaboko abandi barimo kwifotoza, iruhande rwabo bateretse agacupa k'amazi, inyuma yabo hari icyapa gifite ibara ry'ubururu cyanditsemo amagambo yumweru.

Abantu bane barimo ababikira batatu n'umugabo umwe, ababikira bambaye ivara ry'umweru, ijire y'umweru ndetse n'imyenda y'ubururu bwerurutse n'umugabo uri gusuhuzanya n'umubikira umwe muri bo, wambaye ikote ry'ubururu, ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu.

Inzu irimo abaganga batandukanye bambaye bikwije imyenda y'umweru ikozwe mu mashashi ga z'umweru, udupfukamunwa tw'ubururu. Inyuma yabo hariyo uwambaye imyenda ya move n'agapfukamuwa k'ubururu, bari mu nzu ifite ibara ry'umweru.

Abantu bicaye, harimo umukecuru witeze igitambaro mu mutwe, umuforomokazi wambaye ibara ry'ubururu, ikimuranga mu ijosi, n'undi wambaye ikoti ry'abaganga ry'umweru, na ga z'umweru, urimo gutera umuntu urushinge ku rutoki, inyuma yabo hahagaze umugabo.

Abantu bari mu cyumba cy'inama bicaye mu mbaga nyamwinshi ku ntebe z'umutuku, imbere yabo hicaye abandi bantu umwe muri bo ari kuvuga, inyuma hari icyapa cyanditseho amagambo atandukanye ndetse n'ibigo bitandukanye byabateye inkunga.

Icyapa kiriho utuzeru turi mu mabara atandukanye y'icyatsi orange ubururu umuhondo ndetse n'ivu yandikishijemo amagambo y'umweru kuri buri cyapa higiye hariho akambi.

Inzu yicayemo abantu batandukanye harimo abicaye ku ruhande rw'ibumoso n'abicaye ku ruhande rw'iburyo aribo baforomokazi, ku ruhande hicaye abaturage basanzwe bambaye udupfukamunwa ndetse ameza yabo agiye ariho ibitabo.

Ikirangantego kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru gishushanyijeho utuntu dutandukanye nko hagati nka gaseke ndetse n'ururo hasi handitse amagambo y'umweru asobanuye ko ari minisiteri y'ubuzima.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu cyandikishijweho amagambo y'umukara agaragaza ibimenyetso by'indwara ya diyabete, munsi y'aho hari imbuga wabasangaho harimo: nka imeil ndetse na twitter, hejuru y'aho hari amagambo arimo ibara ry'ubururu yandikishijwe inyuguti nkuru.

Icyumba cyo kwa muganga babagiramo, kirimo abaganga bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'umurwayi uryamye ku gitanda barimo kuvura, iruhande rwe hacometse serumu ndetse n'izindi nsinga zibafasha mu kubaga.

Abantu barimo abagabo n'abagore, abo ku murongo wa mbere baricaye, abo ku murongo wa kabiri barahagaze, inyuma yabo hari icyapa kirimo ibara ry'umweru cyanditseho n'amagambo y'ubururu ndetse n'icyatsi, iruhande mu nguni y'ibumoso hari amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku.

Inama ihuriyemo abantu batandukanye abagabo n'abagore, imbere yabo hicaye abantu batatu, abagore babiri n'umugabo ubicayemo hagati, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo atandukanye, mu mabara y'ubururu, umutuku, umukara ndetse n'umuhondo.

Ibiziga bibiri, kimwe gifite ishusho y'umweru, yandikishijwemo amagambo y'umukara, akamenyetso ko guteranya, ikindi kuruhande gifite ishusho y'umweru n'amagambo y'umutuku, hasi yanditse amagambo y'umukara, kumpera mu ruhande rw'iburyo hakaba handitse amagambo y'umweru.

Umugabo ahahagaze imbere ye hari agatuti karimo ibara ry'umweru ndetse na oranje, wambaye ikositimu iruhande rwe hari icyapa gifite ibara rya oranje ryandikishijeho amagambo y'umweru, ku ruhande hari kamera ndetse n'undi mugabo nawe uhagaze ku gatuti iruhande rwe hari amagambo y'umweru.

Abagabo babiri umwe yambaye amadarubindi, ikote ry'ubururu, ishati y'umweru, afite igipapuro mu ntoki asuhuzanyije n'undi wambaye ikoti ry'ubururu, afite igipapuro mu ntoki na karuvati y'umukara, inyuma yabo hari amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu ikirangantego kiri mu ibara ry'icyatsi.

Abantu batanu bagizwe n'abagore batatu n'abagabo babiri b'abazungu, munsi y'amafoto yabo harimo amazina yabo yandikishijwe ibara ry'ubururu, hejuru yabo hariho amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru, biri mu ibara ry'ubururu.

Abantu babiri bahagaze, umukobwa n'umuhungu, iruhande rwabo hari ameza akozwe mu giti, inyuma yabo hari intebe ziri mu ibara ry'umweru, inyuma yabo hari icyapa gifite ibara ry'umweru, ryanditseho amagambo y'ubururu.

Mu nguni y'iburyo hariyo amagambo yanditswe mu nyuguti nkuru, yandikishijwe ibara ry'ubururu, hasi yaho hariyo amagambo yandikishijwe ibara ry'umuhondo, hariho amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru, ibara ry'icyatsi ndetse n'agashushanyo kagaragaza abantu batatu.

Inzu irimo abaganga bambaye bikwije hose, bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'udupfukamunwa tw'ubururu n'ingofero z'ubururu na ga z'umweru. Umuntu umwe aryamye ku gatanda undi arimo kumusuzuma iruhande rwabo hari ishashi irimo amazi.

Abaforomo n'abaforomokazi barimo kubaga ,umwe muri bo afashe impakasi ndetse n'ibitsinga ,bambaye imyenda y'ubururu n'udupfukamunwa tw'ubururu iruhande rwabo hari imashini zicometsemo ibitsinga ndetse na za mudasobwa ebyiri bareberamo uwo barimo kubaga.

Utuzu tune turi mu mabara atandukanye hejuru yaho handitse amagambo y'umukara ari mu ibara ry'icyongereza. Akazu ka mbere gafite ibara ry'umutuku riho n'akambi ka bihuza n'aka kabiri gafite ibara ry'ubururu akandi gafite ibara ry'icyatsi, akandi gafite ibara ry'ubururu bwerurutse, n'akandi gafite ibara ry'icyatsi gicyeye.

Abagore bafite abana bato b'impinja babateruye bicaye ahantu mu nzu, inyuma y'abo hari ibyapa biriho abagore na bo bateruye abana, kimwe kiri mu ibara rya move ikindi kiri mu ibara ry'umweru.

Abantu bari mu nzu barimo kwifotoza bamwe baricaye abandi barahagaze bafite udutabo mu ntoki, inyuma yabo hari icyapa cy'umweru cyandikishijeho amagambo y'umukara imbere yabo hari ameza ateretseho ibintu bitandukanye.

Abantu bahagaze barimo abagabo n'abagore barimo abafite uruhu rwera ndetse n'abirabura inyuma yabo hari icyapa cyanditseho n'amagambo y'umutuku kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'ibirahuri.

Inzu iteraniyemo abagore batandukanye bicaye ku ntebe z'umweru bambaye udupira tw'umweru, imbere y'aho hahagaze umugore wambaye ipantaro y'umukara n'ikote ry'umukara bahagaze iruhande rw'icyapa gifite ibara ry'iroza.

Icyapa kigaragaza ko igihe cyo gutera inkingo kiyongereye n'itariki kizagezaho, kiri mu ibara ry'umweru, cyandikishijweho amagambo y'umukara, mu gice cyo hasi hari ibara ry'umuhondo, hejuru hari ifoto y'umuforomokazi urimo gukingira umwana.

Icyapa kiriho ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'icyatsi, handikishijwemo amagambo y'umweru ndetse n'amagambo y'icyatsi, ku ruhande hari ikirangantego kigizwe n'ibara ry'ubururu, orange ndetse n'icyatsi.

Umugore wicaye mu ntebe wambaye ikote ry'umuhondo n'ipantaro y'umukara n'agapira k'umukara ufite indangururamajwi mu ntoki, inyuma ye hari icyapa cyandikishijweho amagambo y'ubururu ndetse n'umukara.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, ifite ibara ry'umweru ndetse n'amadirisha y'ibirahuri, iruhande rwaho hari ibikoresho bakoresha bagira ngo ibinure byo mu maboko bikomere ndetse inyuma yaho hari ibyo bakoresha birukanka.

Inzu y'abaganga irimo ibikoresho bitandukanye iruhande rw'iburyo ndetse n'ibumoso hari mudasobwa yanditsemo amagambo aho imbere yaho hari agatanda kiteguye kwinjira muri icyo cyuma.

Icyapa kigaragaza ikigo nderabuzima cya Gisenyi, inzu ifite amategura, ifite amarange y'umuhondo werurutse imbere yaho hari abantu, hanze haparitse igare ririho umukobwa ufite indobo y'ubururu.

Inzu isize irangi ry'umweru, ifite amagorofa abiri, ku ruhande yubakishijwe amatafari ahiye, ifite amadirishya y'icyatsi, iruhande rwayo hariho abantu bagizwe n'abagabo n'abagore, harimo abambaye amashati y'ubururu, ku ruhande rwabo hari ibiti.

Inzu ifite amabati y'umutuku isize amarange y'umweru n'amadirishya y'ibirahuri, iruhande rwaho hateye ubusitani burimo amoko y'indabo atandukanye, ndetse igipanpu cyayo cyubakishijwe n'amabuye.

Inzu ifite inkuta z'umweru n'urusenge rw'umweru, hasi haa ubururu, irimo udutanda tubiri dufite ibiziga n'ibikoresho bifashisha bongera urumuri n'iyindi mashini ifite ibara ry'ubururu bwererutse.

Igipangu gikozwe mu byuma, kirimo inzu ebyiri, imwe ifite inkingi eshatu n'amadirishya asize ibara ry'umuhondo werurutse, n'indi ifite amadirishya abiri y'ubururu, n'umuryango w'ubururu, n'amabati ari mu ibara ry'umutuku.

Icyapa kiri mu i ibara ry'umweru cyerekana ibitaro bishinzwe kwita ku bantu bafite ihungabana ryo mu mutwe. Inyuma yaho hari inzu ifite amabati y'ubururu, yubakishijwe amatafari ahiye, iruhande rwabo hari ubusitani buteyemo ibiti.

Abantu bicaye iruhande rw'inzu zifite amabara y'umweru n'amabati'umutuku, harimo abagore babiri biteye igitenge, kimwe kirimo ibara ry'umuhondo, ikindi kirimo ibara ry'icyatsi, umugabo uhagaze ndetse n'abandi ku rundi ruhande.

Inzu isize amarangi y'umweru, irimo ameza, utubati, intebe bikozwe mu biti, imeza iteretseho mudasobwa ndetse n'agatabo, inyuma hari umutako ushushanyijeho umugabo n'umugore bafatanye ikiganza.

Inzu icuruza imiti irimo akabati kariho ibirahuri harimo imiti itandukanye iri mu dukarito dufite amabara atandukanye; harimo utw'ubururu, umweru, umutuku, izina ry'iyo nzu icuruza imiti ryanditse mu ibara ry'icyatsi n'intebe y'umweru.

Inzu y'aho batangira amaraso, ifite ibara ry'umweru ndetse n'aho binjirira ku rwakiririro, mu ibara ry'umutuku, imbere yaho haparitse imodoka ndetse n'andi ma modoka, ku ruhande ifite igipangu gikozwe mu byuma bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'icyapa, kibigaragaza by'umweru ndetse n'umutuku.

Inzu nyinshi zitandukanye zifite amadirishya n'imiryango, imbere yaho hahagaze abantu ku nkingi zimwe zifite amabati y'umutuku, izindi zifite ay'ubururu.

Abagore batatu bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ifite umufuka kuruhande rw'ibumoso, umwe muri bo afashe mu mufuka bambaye utugofero dufite ibara ry'ubururu bwererutse inyuma yabo hari ibiti ndetse n'amazu.

Umukobwa uri kwa muganga wambaye agapfukamunwa k'umukara amadarubindi ndetse n'amaherena wambaye itaburiya yo kwa muganga iruhande rwe hari aho bajugunya imyanda imbere ye hateretse mudasobwa ifite ibara ry'umweru.

Inzu irimo abakozi bo mu bitaro bitandukanye imbere yabo hari insakazamashusho ebyiri inyuma yabo hari agatanda gashasheho amashuka y'umweru iruhande rwabo hari isaha.

Inyubako y'ibitaro ifite amadishya afite ibara ry'ubururu ndetse hariho ibyuma bifite ibara ry'umweru, hejuru handikishijwe amagambo aranga ibyo bitaro mu ibara ry'icyatsi cyererutse, imbere yaho hateye ibiti ndetse hari n'icyapa cyerekana aho abana bambukira.

Inzu ifite ibara ry'umuhondo ryerurutse, yandikishijeho amagambo y'ubururu, ikigo nderabuzima cya Shangasha, ifite amabati y'ubururu, iruhande rwaho hicaye abagore babiri n'abana babiri, ifite amadirisha y'umukara n'amarido y'umweru.

Inzu basuzumiramo abantu barwaye amaso irimo intebe eshatu zumukara, imbere yaho hagiye hariho amadarubindi y'ubwoko butandukanye ndetse n'amafoto y'abantu barwaye amaso bambaye amadarubindi.

Ibitaro byita ku bana, biteye amarangi y'umweru, icyapa cyawo cyandikishijwe inyuguti z'umukara, mu ibara ry'umweru rifite umuryango usa umuhondo ndetse n'udutebe dusa icyatsi, inzira ndende ikomeza.

Abantu bateraniye hamwe basa nk'abicaye mu ishuri, imbere yabo hicaye abagabo babiri imbere yabo bateretse ameza impapuro inyuma yabo hari icyapa gifite ibara ry'umweru, kiri ku kibaho gifite ibara ry'umukara, umwe muri bo abahagaze imbere abaha imbwirwaruhame.

Inzu yo kwa muganga, irimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, harimo imashini z'ubwoko bwinshi, harimo mudasobwa, harimo intebe ifite ibara ry'umukara, inzu ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibikoresho by'umweru.

Inzu bakoreramo imyitozo ngororamubiri irimo ibikoresho bitandukanye nka tereviziyo ebyiri, ndetse n'agatebo batamo imyanda, n'ibikoresho bakoresha birukanka, ndetse n'ibindi.

Inzu yanditseho, ikigo nderabuzima cya Tabagwe. Ifite ingazi ku ruhande rwaho hariho ibyuma bisize ibara ry'ivu, iriho abantu batandukanye, inkingi ebyiri z'umweru, n'imiryango y'ivu.

Inzu yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye, birimo nka za mudasobwa, aho babika amaraso ndetse n'amashashi bifashisha bafata amaraso, udutanda ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, harimo n'udutanda dufite amapine.

Kwa muganga harimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, kimwe muri byo gifite agatanda, gifite n'aho ako gatanda kinjira bagasuzuma, gifite ibara ry'umweru ndetse n'ivu ku ruhande.

Inzu ikorerwamo siporo irimo ibikoresho bya siporo bitandukanye harimo utuntu abantu baterura kugira ngo bagire imbaraga mu maboko, ndetse n'utwuma tugaragaza ibiropima ndetse muri iyi nzu harimo n'ibirahuri.

Inzu isize amarangi y'umweru irimo intebe zikozwe mu biti zifite imisego ifite ibara ry'ikijuju, ameza y'amabara atatu umukara, umweru ndetse na kake itatsemo ibiti by'icyatsi ku meza ndetse no mu nguni.

Inzu irimo uburiri butandukanye bushashaho amashuka y'ubururu n'umweru, burimo amarido y'umweru, kuri buri buriri imbere hariho utumeza ndetse hariho n'akabati babikamo ibikoresho, inyuma hari inkuta z'ubururu.

Abantu bari mu nzu, barimo abaganga bambaye udupfukamunwa dufite ibara ry'ubururu n'umweru ndetse n'amakoti y'abaganga n'amaga y'umweru, iruhande rwabo hari ibyuma bicometsemo amatiyo.

Inzu ifite irangi ry'umweru n'ibirahuri by'ubururu kuruhande rwaho hateye ibiti ,imbere yaho hari amadarapo y'ibara ry'umweru yandikishijwemo amagambo y'icyatsi ndetse n'umuhondo ,inkingi zayo zikozwe mu byuma.

Inzu icuruza imiti, ifite ibara ry'ivu ndetse n'umweru, ifite imiryango y'ubururu bwijimye, mo imbere harimo ubwoko bw'imiti butandukanye, biri mu tubati tw'umweru, harimo iri mu dukarito ndetse n'iri mu ducupa, biri mu tubati.

Umurwayi uryamye ku gatanda gashasheho amashuka y'umweru, ndetse n'icyo kwiyorosa cy'icyatsi, iruhande rwe hacometse imashini ebyiri, zose zifite Mudasobwa, zifite ibara ry'umweru, inyuma ye hari amadirishya y'ibirahuri n'amarido y'umweru.

Abantu batandukanye bari mu nzu, harimo abagore, abana ndetse n'umugore uhetse umwana, hejuru yaho hari icyapa cyerekana amagambo handitseho aho bakirira ababagana, ndetse hari n'ibipapuro biri ku gikuta byanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara.

Inzu irwariyemo abarwayi, umwe muri bo aryamye ku gitanda yambaye imyenda y'ubururu afite igipfuko ku ntoki gicometseho urusinga ruzana serumu, iruhande rwaho hahagaze umugabo wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umukara, urimo kuzinga inzitiramibu.

Inzu yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye, harimo isaha harimo igikoresho cyo kwa muganga gifite mudasobwa icometse ku bindi byuma harimo n'amatara arimo kwaka.

Inzu isize amarangi atandukanye ariko higanjemo ibara ry'umuhondo, ameza akikijwe n'intebe zifite ibara ry'umukara, intebe zo muri saro zifite ibara ry'ikijuju ndetse n'irindi rifite icyatsi cyerurutse.

Inzu irimo ibitanda bitandukanye, ishasheho amashuka y'umweru, ndetse n'udusego tw'umweru iteretseho ibikoresho bitandukanye, imbere ya buri gatanda hariho akameza ndetse na buri gatanda gafite mudasobwa hejuru yaho.

Inzu ifite amabati y'ubururu yubakishijwe amatafari ahiye, imbere yaho handitseho amagambo agaragaza ko ari inzu bavuriramo abarwayi batwite ndetse imbere yaho hateretse ibibindi birimo indabo n'imbere yaho hari akagozi k'ubururu.

Abagore babiri bicaye mu nzu, umwe ateruye umwana wambaye imyenda y'abana iri mu ibara ry'umweru n'akagofero karimo utudomo tw'umukara, uturuye umwana yambaye agapira gafite ibara rya move ndetse n'undi wambaye ikote ry'abaganga, akanozasuku ku ibara ry'ubururu n'agapfukamunwa k'ibara ry'ivu.

Inzu ifite amabati yubururu isize ibara ry'ubururu ifite amadirishya y'ibirahuri, imbere yaho haparitse imodoka hahagaze umugabo kuruhande wambaye imyenda y'umukara ndetse n'abandi batatu bahagaze kuruhande rwiwe, iruhande rwabo hubatse akandi kazu gahagazemo abantu bafite inzira izamuka.

Inzu ifite ibara ry'umweru yubakishijwe amabuye yo mu bwoko bw'amakoro, ifite ibirahuri imbere yaho hahagaze abantu, harimo uwambaye itaburiya y'abaganga, iruhande rwaho hari ubusitani burimo amoko y'indabo atandukanye.

Ibitanda bishasheho amashuka afite ibara ry'icyatsi, bikozwe mu cyuma ku ruhande hariho utwuma dutambitse, iruhande rwaho hariho amarido, ni ibitanda bitatu biri mu nzu y'umweru, hejuru hari imashini ireba uko umuntu ameza mu mubiri.

Inzu yubakishijwe amabuye ari mu moko y'amakoro ifite amadirishya y'ibirahuri byijimye, ifite amabara y'ivu. Imbere yaho hari inkingi zikozwe mu biti, ndetse n'abagabo babiri bari kugenda iruhande rwaho, umwe wambaye itaburiya y'umweru n'undi.

Icyapa cy'ibitaro bya butaro kibakishijwe sima kiriho ibara ry'umukara yandikishijwe amagambo y'umweru iruhande rw'iburyo hagaze abantu ndetse n'ibumoso ,bamwe muri bo n'abagore abandi n'abagabo, inyuma yabo hari amazu ndetse n'ibiti.

Umuhanda ku ruhande rw'ibumoso hari icyapa kigaragaza aho ikigo ngororamuco kiri, kiri mu ibara ry'umweru cyandikishijweho amagambo y'umukara, iruhande rwaho hari igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye.

Inzu isize amabara y'iroza ifite inkingi z'ivu hanze yaho hateretse intebe z'umutuku ndetse n'agasanduku k'ibitekerezo ku nzu ikurikiyeho hari ibyapa bibiri byo mw'ibara ry'umweru iruhande rwaho hari ibiti.

Inzu yo kwa muganga ihagazemo abagabo babiri bambaye imyenda y'akazi ndetse n'udupfukamunwa dufite ibara ry'ubururu bwerurutse, bahagaze imbere y'imashini ifite ibara ry'umweru ifite n'kintu kimeze nk'umufuniko ndetse mo hagati harimo mudasobwa.

Inzu yo kwa muganga ifite ibara ry'yumweru ndetse n'ivu. Kuruhande hari umuryango ufite ibara ry'ivu, ndetse n'ibirahuri. Hejuru hari akantu kamanuka kerekana aho wamanukira mu ibara ry'umutuku, kuruhande hateretse ikibindi kirimo ururabo rw'icyatsi.

Inzu bakoreramo inama irimo intebe z'umukara nyinshi ndetse imbere ya buri ntebe hariho indangururamajwi ifite ibara ry'umukara, inyuma yaho hari ibirahuri, ndetse hejuru hari amatara menshi cyane, imbere hari agatuti gafite ibara ry'umweru.

Abantu bari mu cyumba k'inama, gisize amarangi y'umweru, kirimo amarita ya shokora, umwe yicaye ku meza afite ibitambaro by'umutuku, imbere yabo hateretse mudasobwa n'amazi, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru n'umukara, utunze urutoki ku cyapa kiri imbere yabo.

Inzu itaye amarangi y'ubururu bwererutse, ifite amabati y'ubururu, iruhande rwaho hagaze ahantu haparitse n'imodoka iri mu bwoko bwa benzi, iruhande rwaho hubatse akazu gato nako gahagazemo abantu, inyuma yaho hari igiti.

Abantu babiri bicaye, umugore wambaye ibitenge biri mu ibara ry'ubururu orange n'umuhondo, n'umugabo wambaye imyenda y'abaforomokazi, ufite igikoresho bifashisha bapima umutima, inyuma yabo hari insina ndetse n'ibiti.

Abantu babiri harimo umwe uryamye ku gatanda wambaye ingofero n'agapfukamunwa k'umukara, barimo gutanga amaraso ndetse n'umuforomokazi urimo kuyamukuramo wambaye itaburiya y'ababaganga iruhande rwabo hateretse intebe y'umweru.

Inyubako igaragaza ibitaro byitiriwe umwami Faisal, ifite amadirisha n'imiryango isize amabara y'umweru, imbere yaho hari icyapa kibuza kuvuza amahoni ndetse n'icyapa kivuga ko uwo muntu agomba kugendera ku muvuduko wa makumyabiri, hari n'icyapa kigaragaza aho bamanukira.

Inyubako isize amarangi y'umweru n'ivu, ifite amadirisha n'amatara y'umweru, ifite ibikoresho bitandukanye bifashisha igihe barimo gukora siporo, ifite inkingi zisize ibara ry'umweru, hasi risize ibara ry'umukara, hanze yaho hari ibiti.

Inzu ya kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe ifite ibara ry'ubururu, ndetse n'akandi gatebe gatoya, hejuru yaho hariho insakazamashusho, ndetse hari n'itara hejuru ibyuma bigiye bicomekeranye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo udutanda tubabagiraho turiho amashuka y'ubururu, ndetse hejuru yaho hari mudasobwa zibafasha mu kubaga ndetse n'ibindi byuma bibafasha mu kumurika ku murwayi.

Inzu yubakishe amabuye, afite ibara ry'ivu, ndetse afite amadirishya y'ibirahuri azengurutswe n'ibara ry'ivu n'abagabo babiri bari kugenda, umwe yambaye itaburiya, undi yambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, inyuma yabo hari imisozi ndetse n'ubusitani.

Umugore w'umuforomokazi wambaye imyenda y'icyatsi, ishati ndetse n'ipantaro, iruhande rwe hari ibitanda bitandukanye iruhande rwa buri gitanda hagiye hari amarido y'ubururu.

Icyapa gifite ibyuma bisize amabara y'ubururu, gifite ibara ry'umweru, kiranga ibitaro bikuru bya Kaminuza y'u Rwanda, iruhande rwacyo hari igiti, hari inzu zifite amabara y'umweru n'amabati y'umutuku, idarapo n'amamodoka aparitse imbere.

Inzu isize amarange y'umweru irimo amabara y'umuhondo wererutse, irimo agatanda k'ubururu gafite ibyuma by'umukara hasi ndetse n'indi mashini icometseho mudasobwa, insinga zifite ibara ry'umweru.

Inzu yubakisheje amatafari ahiye ifite amadirishya y'ibara ry'umukara, n'indi iri kuhande rwaho yubakishijwe ibara ry'ivu ndetse na oranje n'amadirisha y'ibirahuri bya fime, ku ruhande rwaho hari ubusitani.

Inzu isize amabara y'ivu hejuru hariho icyapa kigaragaza igikorerwa muri iyo nzu, gifite ibara ry'umutuku ryandikishijwemo n'ibara rya oranje, ku ruhande hariho utwobo, ndetse ifite n'amadirishya y'ibirahuri.

Icyumba kirimo abantu batatu, hari umugabo umwe n'umwana ndetse n'umuforomo wambaye imyenda y'akazi n'agapfukamunwa, umwana yicaye ku buriri, afite igipfuka mu ijosi, yambaye ubusa hejuru, umuganga amufashe ku maboko undi amwicaye iruhande.

Umuforomokazi wambaye ikoti ry'abaganga ry'umweru ririho uturongo twa move ku mufuka ndetse no ku kaboko, wambaye ga z’umweru, ufite agakoresho bakoresha bumva umwana, wambaye agakomo k'umukara n'undi uryamye ku gitanda.

Icyumba cyo kwa muganga gifite ibara ry'umweru gitandukanyijwe n'inkingi y'umweru , ku gatanda kamwe haryamye umuntu wiyoroshe ikiringiti cy'ubururu kirimo n'umutuku, iruhande rwe hacometse insinga ndetse na mudasobwa ndetse no hejuru.

Inzu isize irange ry'umuhondo, yerurutse, ndetse ifite ibirahure byijimye, imbere yaho hari akazu gatoya gasize ibara ry'umuhondo kariho icyapa kigaragaza ko ari ibitaro bya sangwa kuruhande rwaho, hahagaze abagabo batatu haparitse n'imodoka.

Inzu y'ibitaro by'abana, byandikishijweho amabara atandukanye, umutuku, ubururu, umuhondo, icyatsi, ifite inzugi z'umweru, ifite amadirisha ariho impapuro zandikishije amabara y'umukara ndetse n'umutuku, iruhande rwaho hariho amatara afite ibara ry'umukara, hejuru hafasheho ibyuma.

Inzu nini igabanyijemo ibyumba bibiri, imwe irimo utwumba dutoya tugiye tugabanyijemo ku marido y'umuhondo, harimo udutanda ndetse n'amatara, ikindi cyumba harimo umuforomokazi.

Inzu yo kwa muganga ifite ibara ry'umweru harimo udutanda dutatu tw'umuhondo, imbere yaho hari aka meza gafite ibara ry'umweru ndetse n'akantu ko kujugunyamo imyanda ifite amapine afite ibara ry'umukara.

Inzu ifite irangi ry'umweru n'amabati y'ubururu, imbere yaho hari ubusitani burimo indabo ndetse ku gipangu hari ibara rya oranje ryanditseho n'icyapa mu ibara ry'umukara, kigaragaza ko ari ikigo nderabuzima cya kinyinya.

Inzu ifite ibara ry'umuhondo ifite umuryango ukozwe m'ibiti iruhande rwaho hateye igiti kinini ndetse n'ubusitani, iruhande rwaho hari uturabo muri iyo nzira hari kugendamo abantu batandukanye, abagore ndetse n'abagabo inyuma yaho hari imisozi.

Inzu ifite ibara ry'umweru, irimo ibikoresho bitandukanye, harimo sharijeri utudobo gafite ibara ry'icyatsi n'umweru, aho bajugunya imyanda hafite ibara ry'umukara ndetse n'udutebe dufite amapine y'umukara n'udutanda dufite ibara rya shokora, hari n'icyuma kizana umuyaga.

Inzu ifite ibara rya oranje n'umweru hejuru ku rusenge hari ikigega, iminara ndetse mu muryango waho hari imodoka irimo gusohoka ifite ibara ry'umukara, ku ruhande hari icyapa gifite ibara ry'ubururu n'umweru ndetse hicaye n'umugabo mu gatebe k'umweru.

Ikibuga kirimo ibikinisho by'abana bizwi nk'ibyicungo, gikozwe mu byuma ndetse n'iminyururu hariho aho kwicara gifite ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi inyuma yaho hari ibiti.

Imwe mu nzu zo ku bitaro zirimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, harimo udutanda, iruhande rwa buri gatanda hariho indobo yo kujugunyamo imyanda, ndetse na mudasobwa ziri mu mabara y'umweru.

Inyubako ya kwa muganga irimo abantu batandukanye bamwe bahagaze abandi bari mu bikorwa bitandukanye umwe muribo ari kugenda muri iyo nzira yambaye imyenda y'ubururu agaboko kamwe kari imbere akandi kari inyuma iruhande rwe hari aho bashira imyanda.

Inzu isize amarangi ifite idirishya ry'ikirahuri, hejuru yaho handitse amagambo y'icyatsi, hariho akarongo k'umuhondo ndetse n'ubururu, imbere yaho hateye indabo ndetse n'igiti kiri mu kabindi k'umutuku, ku ruhande hari umupolisi.

Inzu y'umweru irimo ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye, harimo agatanda gafite ibara ry'umweru n'ivi, intebe ifite amapine y'umukara, hejuru harimo amatiyo afite amabara atandukanye ivu ndetse n'umutuku.

Inzu isize amarange y'umweru irimo abakobwa babiri n'abahungu babiri, umukobwa umwe arahagaze abandi baricaye, undi arunamye arimo gusuka, ku meza hateretse agacupa gafite ibara ry'icyatsi n'umuhondo.

Umuhanda urimo icyapa kigaragaza ibitaro bya Kabgayi byanditse mu magambo y'umweru, icyapa gisa ivu gikozwe mu byuma, uwo muhanda harimo umuntu ugenda ndetse n'uri ku igare, imbere yaho hari amatara ndetse n'inzu.

Bafite amadirishari ahantu mu busitani hari ibiti bitandukanye, ndetse ku ruhande hari icyapa kigaragaza icyo bakora, muri iyo nzira harimo abantu batatu: abagore babiri n'umugabo umwe ndetse no mu yindi nzira hari abantu.

Umuryango winjira mub’ibitaro by'i nyanza ufite ibara ry'ubururu wanditseho H ebyiri mw’ibara ry'umweru kuruhande rwaho hari icyapa kiranga ibyo bitaro n'imbere har’inzu ifite amabara y'umuhondo amabati y'ubururu iteye ibiti kuruhande ndetse n'umuntu ar’inyuma yayo.

Inzu irimo ibikoresho bya siporo bitandukanye, harimo ibyo bakoresha babara ibirometero umaze kwiruka ndetse n'ibyo baterura. Ifite amadirishya y'ibirahuri, hanze yaho hari ubusitani n'ibiti.

Inzu ifite amadirisha asize irangi ry'umweru n'inzugi z'umweru, isize irangi rya oranje, hejuru ifite amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu, agaragaza ko ari inzu yita ku barwayi bo mu mutwe, hanze hateye ibiti.

Inzu isize amarangi y'umweru, ifite amadirishya asize ibara ry'ivu, iruhande rwaho hari ubusitani buteyemo indabo, mu ruhande rundi hari ikigega gifite ibara ry'umukara, imbere yaho hicaye umuntu uri mu kagare k'abafite ubumuga, bambaye imyenda y'ubururu.

Umuryango werekana icyumba babagiramo, ufite ibara ry'umuhondo ryererutse, amadirishya atabonerana, icyapa cy'ubururu cyandikishijweho amagambo y'umweru, iburyo n'ibumoso hari inkuta zisa umweru.

Umugabo wicaye mu nzu ifite amarido y'umweru imbere ye hari ameza ateretseho imashini ebyiri imwe n'ini ndetse n'indi igendanwa, inini irimo ifoto y'umuntu urwaye imbavu n'urutsinga ruyihuza n'intoya rufite ibara ry'umukara.

Abantu babiri bahagaze ahantu harimo umwana ndetse n'umuganga wambaye igikoresho bakoresha basuzuma mu ijosi, ndetse wambaye ikoti ry'abaganga rifite ibara ry'umweru ufite mudasobwa mu ntoki ze inyuma yabo hari inzu.

Inzu irimo umugabo wambaye agapfukamunwa k'ibara ry'ubururu n'umweru, ikabutura iri mu ibara rya kaki, uryamye ku gatanda, iruhande rwe hariho imashini ebyiri, iburyo ndetse n'ibumoso zicometseho insinga, afite ibipfuko bibiri ku kaboko

Inzu irimo utubati dutandukanye mu bihande bibiri, buri kantu kagiye kanditseho ikibitsemo ndetse mu mabara y'umukara hari umuryango ukozwe mu cyuma usa n'ivu.

Inzu ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara n'ivu, irimo ibikoresho bitandukanye, harimo utugezi two kongeraho intoki ndetse n'utubati turimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga.

Ikigo gishinzwe ubushakashatsi, gifite ibara ry'umuhondo hejuru ryandikishijwe ibara ry'ivu, gifite imiryango y'ibirahuri, iruhande hasize ibara ry'ivu n'imbere harimo intebe zifite amapine.

Inzu ifite icyapa gifite ibara ry'icyatsi mu nyuguti nkuru; yubakishijwe ibyuma, imbere yaho hari abantu bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara; bafite uduseke mu ntoki turimo ibintu by'umweru.

Inzu ibacururizamo imiti hejuru ifite icyapa kiyiranga cyandikishijwe n'ibara ry'umweru ndetse kumuryango winjirayo, ndetse ku ruhande hariho inkingi yanditseho farumasi, imbere yaho haparitse imodoka ebyiri, imwe iri mu ibara ry'ivu n'indi iri mu ibara ry'umutuku.

Inzu isize amarangi y'umweru, ndetse n'ivu, mbere yaho hari icyapa kigaragaza ko ari ikigo gishinzwe ubushakashatsi mu by'ubuganga, imbere yaho haparitse imodoka y'umukara, ndetse iruhande rwaho hari ubusitani burimo indabo z'ubwoko butandukanye.

Abantu babiri, umwe yicaye yambaye agapira k'umutuku na kora y'ivu, undi mugabo wambaye itaburiya y'abaganga n'isaha, amufatishije akaboko k'ibumoso ahagana hasi ku kirenge, akandi gatotoki agafatishije ku ivi.

Inzu yicayemo abaganga batandukanye, umuryango urangaye, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa ebyiri ndetse na telefone n’ikayi. Imbere hari mudasobwa nini irimo umugabo urimo kuvuga, bisa nkaho bakurikiye inama ikorerwa ku mbuga nkoranyambaga.

Umukobwa muto muto uri muri siporo wambaye agasengeri k'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara imwegereye urebye inyuma, imbere ye hari amazi azamuye amaboko yombi yayahurije hejuru.

Icyapa gifite ibara ry'ubururu gishushanyijweho ubwoko bw'imiti butandukanye harimo ubwo bisiga inshinge ndetse n'ibinini by'amabara atandukanye ibifite abiri ndetse n'ibifite rimwe rimwe nk'ubururu ,iroza ,umutuku n'umweru.

Akagare k'abantu babana n'ubumuga, gafite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara gakozwe mu cyuma, gafite ibiziga bine, bifite ibara ry'umukara, mo imbere harimo utwenge ndetse gafite n'aho gufata.

Umuntu wicaye wambaye ipantaro y'ikoboyi, akaguru kamwe kararambuye k'ibumoso, akandi k'iburyo karahinnye, afasheho afatishijeho ishashi, ifite ibara ry'ubururu, akandi kaboko gafashe ipantaro ngo itamanuka.

Agakarito kari mu ibara rya kaki handikishijweho amagambo y'ubururu agaragaza ko ari igipfuko, iruhande rwaho hari igipfuko gifite ibara ry'umweru kizinguyeho gato.

Inzu irimo abantu babiri, umwe wambaye ikoti ry'abaganga, afashe ku wundi, amufatishije amaboko yombi, uryamye wambaye ikabutura irimo ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'ivu.

Ibintu by'ubwoko butandukanye harimo amaronji, voka, amashu, pome, kokombure ndetse n'amashu y'ubwoko butandukanye harimo n'icyuma bifashisha mu myitozo ngororamubiri ndetse n'icupa.

Abantu babiri umuganga ndetse n'umurwayi aryamye ku gatanda araramye intoki ze zifashe mu nda, akaguru ke k'ibumoso karazamuye gafashe ku gitugu cya muganga arimo kumuramburira.

Udushashi dutanu turi mu ibara ry'umweru twandikishijeho ibara ry'umukara kamwe gafite umugozi w'umuhondo ku ruhande, akandi gafite umugozi w'umutuku, akandi gafite umugozi w'icyatsi, akandi gafite umugozi w'ubururu, akandi gafite umugozi w'umukara.

Abantu babiri bicaye mu nzu, umugabo wambaye agapira k'ubururu bwijimye karimo uturongo tw'umweru n'ipantaro y'ivu uteruye icyuma mu kaboko k'ibumoso gifite ibara ry'umukara, iruhande rwe hahagaze umuforomokazi wambaye inifomo usa n'uri kumwerekera.

Abantu babiri, umwe wicaye ku gatanda n'undi wicaye iruhande rwe, bari kumupfuka ku gice cy'ivi, bamupfukishije igipfuko cy'umutuku ndetse n'ikindi cy'umweru, bizengurutse ivi.

Inzu yo kwa muganga ifite ibara ry'umweru irimo imashini yo kwa muganga bakoresha basuzuma abantu uko bameze mu mubiri, ku gatanda kariho haryamyeho umuntu utwikiriye ishuka y'umweru wambaye imyenda y'ubururu.

Umugabo wicaye wambaye agapira k'ivu n'ipantaro y'ikoboyi urambuye akaboko k'iburyo akandi k'ibumoso gafite ishashi irimo urubura ifite ibara ry'ubururu agafatishije ku kaboko karambuye.

Umugabo uri muri siporo wambaye agapira k'amaboko maremare k'umukara ku gaboko k'iburyo yahinnye agapira, afashemo icupa ry'amazi ribonerana, yambaye amadarubindi afite ibara ry'umukara arasamye ari gusukayo amazi.

Umuntu uri muri siporo, wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara n'agapira k'umuhondo kariho amagambo y'umukara ndetse n'umutuku, akaguru kamwe kararambuye cyane akandi karahinnye, amaboko yombi afashe ku kaguru karambuye.

Abantu babiri bari mu nzu, umwe yicaye ku gatanda yambaye agapira k'umukara n'ikabutura y'umukara, inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru, undi ni umuforomo wambaye imyenda y'akazi, ifite ibara ry'ubururu, afite udupfuka ari kumupfuka ku kirenge.

Umuntu wicaye ku gatanda gafite ibara ry'umukara, wambaye umupira w'umukara urimo ibara ry'umweru, wanditseho imibare yandikishijwe ibara ry'umweru, ufite insinga ziri ku kintu yambaye ku kaguru ndetse n'amasogisi ariho akantu k'umweru n'inkweto z'umukara.

Umuntu uri muri siporo ufite ibisuko wambaye agapira k'umukara, ikabutura y'ubururu irimo uturongo tw'umweru, amasogisi y'umweru, inkweto z'umweru n'umukara, akaguru k'iburyo kari imbere ak'ibumoso kari inyuma n'amaboko ari imbere.

Inzu irimo ibitanda bitandukanye, kimwe muri cyo hicayeho umugore wambaye igitenge kiri mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'umweru n'akana kambaye ikanzu. Inyuma yabo hari umukobwa uharyamye ku kindi gitanda witangiriye itama.

Umuntu uri muri siporo wambaye agasengengeri k'ubururu, wazamuye amaboko ye yombi, akaboko kamwe kagororotse gafashe mu mugongo, akandi gafashe ku nkokora y'ako kaboko kandi.

Abagabo batatu bahagaze, babiri bahagaze hasi undi ahagaze ku rwego rukozwe mu cyuma rufite ibara ry'ubururu, afashe ku kintu gifite ibara ry'umutuku n'umweru; hejuru ye hari amagambo ari mu ibara ry'ubururu yanditse mu nyuguti nkuru.

Umwana uri muri siporo, uri kunywa amazi afatishije akaboko k'iburyo mu icupa ry'umweru n'ubururu, wambaye agasengeri karimo icyatsi, umukara, umweru ndetse n'ubururu, witeye agasume k'umweru mu bitugu wambaye n'umukufi.

Ameza ateretseho ibiryo bitandukanye, birimo ibikomeza umubiri, ibyubaka umubiri ndetse n'ibindi, urugero nk'amagi ,inkeri ,imineke ,ibirayi ,amashu ndetse n'ibitunguru, ku ruhande hateretse agakoresho bakoresha bakora siporo gateretseho amazi ,isume ndetse n'ibindi bikoresho bakoresha muri siporo.

Imashini ipima uko umutima utera ifite ibara ry'umweru ubururu ndetse n'ivu, mu kirahuri cyayo handitsemo imibare mu ibara ry'umukara, ndetse n'amabuto na buri buto icyo igenda ikora.

Icyapa gifite ibara ry'umweru, cyandikishijweho amagambo y'umukara ari mu ururimi rw'Icyongereza, iruhande rwaho hashushanyije umuntu uri muri siporo wambaye agasengeri k'ubururu, urimo kwirukanka.

Umugabo uri muri siporo wambaye agasengeri n'ipantaro y'umukara ifite akantu k'ivu kamanutse, amasogisi y'umweru' inkweto z'umweru, ivi rye rimwe rirashinze irindi riragiye inyuma, amaboko yombi afashe ku ivi rishinze.

Igikoresho cyo kwa muganga bifashisha bapima uko umutima utera, gifite aho gushira mu matwi hafite ibara ry'umukara ndetse n'umugozi ufite ibara ry'ubururu ndetse n'aho bashira ku nda hafite ibara ry'ivu n'umukara.

Umugore wambaye imyenda y'abaforomokazi ufite igikoresho bifashisha bagapima uko umutima utera, uri kwambara agapfukamunwa akanyujije inyuma y'amatwi, imbere ye hari ameza ateretseho udukayi, ikaramu ndetse na mudasobwa ifite ibara ry'umukara.

Inzu ifite ibara ry'umweru irimo ibikoresho byo kwa muganga bifite ibara ry'umweru ndetse n'ivu harimo agatanda ndetse n'aho kinjira kugira ngo barebe umuntu ikibazo afite mu umubiri aho kinjira ku ruhande hari amatara y'umweru.

Igikapu gifite ibara ry'umutuku, kirimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, harimo ibyo bakoresha bipfuka, harimo ibyo bakoresha bavunitse, harimo umukasi, harimo imiti y'amenyo ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye nk'ibitabo n'ibindi.

Umukobwa uri muri siporo; wambaye agasengeri k'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururu, uzamuye amaboko yombi, ushinze ivi rimwe irindi rihagaze, ku ruhande rwe hari igiti gifite ibara ry'icyatsi giteretse mu gatebo, ndetse n'icupa ry'amazi riri mu ibara ry'ubururu.

Umuntu wambaye ikabutura y'umukara ufasha ku ivi rye ku gice gisa umutuku ugereranyije, n'ikindi gice kiri hasi iruhande rwe handitse amagambo ari mu ibara ry'ubururu mu nyuguti nkuru ndetse n'imibare.

Inzu irimo abakobwa n'abahungu, bambaye amapantaro y'umukara hasi, hejuru bambaye amajire y'umweru, ashushanyijeho umusaraba mu ibara ry'umutuku, umwe muri bo yicaye hasi, undi wambaye ijire y'umutuku amufashe umutwe.

Icyapa kiri mu mabara atandukanye ubururu, icyatsi, umutuku, oranje ndetse iruhande rwaho hari umugore uri muri siporo, abagabo babiri umwe uzamuye ikarita y'umuhondo n'abandi bagabo babiri bari muri siporo, ndetse n'umurongo w'umweru n'idarapo ry'umutuku.

Umugore urimo gukora siporo wambaye agasengeri k'umukara, ipantaro y'umukara, wahinnye amaguru urambura ijosi bizwi mu buryo bwa yoga. Inyuma ye hari intebe ifite agatambaro gafite ibara ry'ivu. Ku ruhande hateretse icupa ry'amazi.

Ikibuga cy'umupira bakiniramo umupira w'amaguru ,umuntu umwe aryamye hasi ,undi apfukamye iruhande rwe arimo kumugororera mu ivi iruhande rwabo hateretse umupira wa maguru ufite ibara ry'umweru n'umukara kuruhande rwabo ateretse igikapu kibamo ibikoresho by'ibanze gifite ibara ry'ubururu.

Umugore wicaye ku mukeka bakoreraho siporo wambaye imyenda ifite ibara ry'iroza, isengeri ndetse n'ipantaro, amaboko ye afashe ku maguru, inyuma ye hariho intebe zifite ibara ry'umukara ndetse n'indi ntebe ikozwe mu bwoko bw'agataburete.

Icyapa kigaragaza umugabo uteruye icyuma, iruhande rwe hari ubwoko bw'ibiribwa bitandukanye, harimo inyama, imboga, amagi, ibishyimbo, amazi, inanasi, amashu, umutobe ndetse n'urusenda.

Umuntu uri muri siporo wambaye aga kabutura k'umukara n'agasengeri k'icyatsi n'inkweto z'icyatsi wunamye yubitse umutwe yifashe ku mavi wambaye isaha inyuma ye haciye umurongo w'umweru.

Umugore bicaye ku gatanda kwa muganga yashasheho amashuka y'umweru wambaye umupira w'ivu w'amaboko maremare ukozwe mu budodo ,ivi rye ry'iburyo ririho igipfuko cy'umweru ndetse agiye kugishyiraho akoresheje amaboko yombi.

Umuntu uri muri siporo wambaye agapira k'umukara, ikakabutura y'umukara, n'inkweto z'umukara akaboko ka k'ibumoso karashinze hasi ndetse n'akaguru k'iburyo biraringaniye akaguru k'ibumoso kari inyuma.

Umukobwa uri muri siporo ufunze imisatsi wicaye wambaye imyenda y'ubururu, ipantaro y'ubururu n'agasengeri k'ubururu, urambuye amaboko n'amaguru ateganye yubitse umutwe mu maguru.

Umuntu uri muri siporo wambaye agapira k'ivu n'ikabutura y'umukara, apfukamishije ivi rimwe irindi vi rihagaze, amaboko ye yombi ari gukanda ku ivi, yambaye inkweto z'ivu n'amasogisi y'umweru.

Umuganga wambaye ikote ry'abaganga rifite ibara ry'umweru na ga, inyuma ye hari ibyuma bifite ibara ry'umweru ndetse ku ruhande hari igikoresho bifashisha bazimya inkongi y'umuriro gifite ibara rya oranje gifite igihombo cy'umukara.

Umugabo w'umwirabura usa n'uvuye muri siporo uri kunywa amazi mu icupa ribonerana rifite agafuniko k'ubururu, arifatishije akaboko k'iburyo witeye agasume k'umweru mu rutugu ndetse wambaye agapira k'umukara.

Icyapa kigaragaza ubwoko bwa siporo butandukanye, harimo uwicaye azinze amaguru, harimo abakina umupira, harimo abirukanka ibirometero, harimo urambuye akaguru, uzamuye akaboko, harimo abaterura ibyuma bitandukanye ndetse n'isaha.

Abantu babiri umwe ni umukinnyi w'umupira bakina bakoresheje amaboko, undi ni umuforomokazi arimo kumupfuka ku kaboko, yambaye agapfukamunwa k'ubururu bwijimye ishati y'umukara inyuma yabo hari ibibuga.

Urukweto rwifashishwa mu gihe barimo kuvura umuntu wahuye n'imvune ruri mu ishusho y'ikirenge, rufite amabara abiri ivu ndetse n'umukara, rufite udufugisho tune turi mu ibara ry'ivu.

Umugabo uri muri siporo wambaye agasengeri k'ivu wicaye hasi amavi ari hejuru wikoreye amaboko akaboko kamwe gafashe kandi hejuru ye hari ibicu.

Abantu babiri, umwe yambaye inkweto z'umukara n'ipantaro y'umukara irimo akarongo k'umweru kazamuka n'agapira k'umukara karimo amagambo atambitse, undi arahagaze, yambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'ubururu.

Icyapa kiriho ibishushanyo bitandukanye hariho ikibuza abantu kugenda k'inzu iri mu ibara ry'umuhondo, kiriho abibutsa abantu gukaraba, kiriho abibutsa abantu gukoresha agakoresho kagenewe gukora isuku, ikiriho kibuza abantu gusuhuzanya, ikiriho gukaraba umubiri wose ndetse n'ibindi bitandukanye.

Abantu bari mu nzu umwe muri bo aryamye ku gatanda iruhande rwe hahagaze abantu batandukanye, umwe muri bo yambaye ishati y'umweru akaguru ke k'ibumoso kari ku cyuma gasa n'akavunitse kambaye igikweto bifashisha mu kugorora imitsi yo mu kaguru.

Uducupa dutatu dusa umweru turiho igishishwa cy'ubururu cyanditseho amagambo agaragaza ko ibirimo bihagarika uburibwe, rimwe muri ryo rirafunguye agafuniko karyo kari ku ruhande.

Icupa ry'amazi rifite umufuniko w'ubururu, urubuto rwa pome, urubuto rw'icunga, ndetse n'igikoresho bakoresha bapima ahantu, gifite umugozi w'umuhondo, wanditseho imibare yandikishijwe ibara ry'umukara.

Umuntu ufashe icupa mu kaboko k'iburyo, rifite ibara ry'umweru n'ubururu, wambaye agasengeri karimo amabara, icyatsi, umukara, umweru, ubururu, ndetse ufite n'agasume mu bitugu.

Akabogisi bitwaza kabamo imiti y'ubuvuzi bw'ibanze harimo :inshinge, imiti ndetse y'ubwoko butandukanye harimo amavuta, umukasi iruhande rwawo harimo ibipfuko by'ubwoko butandukanye.

Umugabo uri muri siporo, wambaye agasengeri k'umukara n'ivu, ndetse n'ikabutura y'ivu ifite uturongogo tumanutse, yicaye azamuye itako, akaboko ke k'ibumoso gafashe ku gice cyo hejuru k'itako, ak'iburyo gafashe ku gice cyo hasi cy'itako.

Akagare k'abantu bafite ubumuga, aho kwicara hafite ibara ry'umukara ndetse n'aho kwegamira, gafite ibiziga by'umukara ndetse aho gufata hafite ibara ry'ubururu, amapine afite ibara ry'umukara, aho gukandagira hafite ibara ry'umukara.

Umuntu urimo gukorera siporo ku gasambi ka siporo, wambaye isengeri y'umukara n'ikabutura y'umukara, upfukamishije amavi yombi, amaboko yombi ari imbere, arunamye.

Icyapa kigaragaza imyitozo icumi ushobora gukora, kugira ngo usubire ku murongo, nyuma yo kugira igikomere ku bwonko. Bimwe byandikishijwe mw’ibara ry'umweru ibindi mw’ibara ry'icyatsi. Hasi yaho hari umugore wicaye arambuye akaguru, ahandi hari umugore uhagaze ufashe ku ntebe.

Umuntu uvuye muri siporo wicaye urimo kuruhuka, wambaye ikote rifite ibara ry'icyatsi rya gisirikare rifite imashini, ufashe icupa ry'amazi mu kaboko k'ibumoso wambaye ikabutura y'umukara, iruhande rwe hateretse igikapu cy'umukara.

Ubwoko bw'ibintu bitandukanye birimo indabo bifite ibara ry'umuhondo, amajyani ari mu gakarito, amavuta, inanasi, imineke ndetse n'utundi dukarito tugiye turimo ibintu bitandukanye.

Amacupa akozwe mu birarahuri amwe muri yo afite imifuniko y'umutuku, andi afite imifuniko y'umweru, hariho ibishishwa bifite ibara ry'umweru, ndetse yandikishijweho amagambo y'umukara, muri buri cupa hagiye harimo ibintu bitandukanye.

Uducupa turimo ibisugika bitandukanye, biri mu gacupa kabonerana ndetse bifite udufuniko tw'ubururu, bifite igishishwa cy'umweru cyandikishijweho n'amagambo y'umukara, inyuma yabo hasize irangi ry'icyatsi.

Igikarito kirimo uducupa turi mu ibara ry'umuhondo, dufite imifuniko ya shokora, handikishijeho amagambo ya shokora, munsi yaho hashushanyijeho igikakarubamba ndetse iruhande rwaho hateretse agacupa kamwe kari ku ruhande gashushanyijeho na ko igikakarubamba, handitseho na mirimitiro magana atatu mirongo itatu.

Umuti w'amenyo ukozwe mu gikakarubamba, uri mu gacupa k'umweru gacuritse, gafite amagambo y'icyatsi ndetse hasi hashushanyije igikakarubamba kiri mu ibara ry'icyatsi.

Imbuto ziri mu bwoko bwa manderine, zimwe muri zo zifite ibara ry'icyatsi izindi zifite ibara rya oranje, zimwe muri zo zisatuyemo kabiri n'utubabi tw'icyatsi ku ruhande.

Dore uducupa turimo ibintu bitandukanye tumwe tubonerana utundi tutabarana utundi dukozwe mu mashashi tumwe turimo amavuta utundi turimo isabune utundi turimo imiti y'ubwoko butandukanye.

Ameza ateretseho ibintu bitandukanye, hariho akabindi k'umweru karimo uburoso bw'amenyo bubiri ndetse n'akarimo igikakarubamba ku ruhande rwaho, hari amavuta akozwe mu gikakarubamba ari mu gacupa k'umweru gacuritse gashushanyije igikakarubamba.

Amavuta akozwe mu gikakarubamba, amwe muri yo ari mu icupa ry'ikirahuri, rifite igishishwa cy'umuhondo cyanditseho n'amagambo y'umutuku. Andi afite agacupa gasanzwe gafite ibara ry'umweru ashushanyijeho igikakarubamba, kandikishijweho amagambo ya orange, akandi gafite ibara ry'umweru kandikishijweho amagambo y'umutuku.

Uducupa two mu bwoko butandukanye, kamwe kanini n'utundi turi mu rugero rumwe, tubiri dusa umuhondo, utundi dusa umweru, hasi handitse nimero ndetse n'imbuga nkoranyambaga wabashakiraho, hejuru handitse amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru mu nyuguti nkuru.

Ameza ariho igitambaro cy'ubururu ateretseho uducupa dufite imifuniko y'icyatsi ndetse n'udufite imifuniko y'umweru, tumwe turi hejuru y'utundi, inyuma yaho hahagaze abantu.

Agacupa gafite ibara ry'umweru kanditseho amagambo mu nyuguti nkuru mu ibara ry'ubururu, hejuru hariho igisiga kirimo kuguruka hasi hariho umwana uteye intambwe, hejuru gapfundikishije umufuniko w'ubururu.

Icyapa kiriho amafoto atandukanye buri foto igiye ifite inyuguti munsi yayo, muri aya mafoto harimo aho bacuruza ibyatsi abacuruza imiti yo kunywa aho bacururiza imboga bimwe biteretse hasi ku mifuka ndetse n'ibindi.

Amavuta akozwe mu ikawa ari mu icupa rifite amabara umweru ndetse n'umuhondo wererutse, hari amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu hejuru ku ruhande ndetse n'akazeru gashushanyije mu ibara ry'umukara no hagati harimo igikeri.

Agasahani kariho ubwoko bw'ibihinga butandukanye, harimo sereri, harimo insenda, harimo indabo zitandukanye, hateretseho agasekuru gatoya karimo n'umuhini, iruhande rwaho hari agacupa karimo amavuta, ku ruhande hagiye hari udufu tw'amoko atandukanye.

Imeza iteretseho agasahani kariho itasi y'icyayi irimo indimu iruhande rw'agasahani hakatiyeho utudimu ndetse n'akababi k'indimu iruhande rwabo hari indimu yose ndetse na tangawizi.

Abantu bambaye imipira iri mu mabara atandukanye, kaki, icyatsi ndetse n'umweru n'imashini zihinga, imwe yicayemo umuntu wambaye umupira w'icyatsi ndetse n'ibihingwa biri mu ibara ry'icyatsi n'igiti imbere yabo.

Ibintu bitandukanye bikorwarwa mu gikakarubamba harimo nk'isabune iri mugakarito'umweru yandikishijwe mu ibara ry'icyatsi harimo imiti harimo amavuta yo kwisiga ku mubiri harimo isabune yoga ku mubiri bakubyeho byose hagiye hashushanyijeho igikakarubamba hasi.

Akabati gasize irangi ry'umweru ndetse n'umutuku, karimo utubati dutatu, ahambere hateritse amacupa afite ibara ry'umukara n'igishishwa cy'ubururu, ahandi hateretse amacupa agiye avangavanze arimo ay'umweru, umukara, icyatsi ndetse n'ibindi.

Uducupa dutatu, tubiri turi mu ibara ry'umweru duteretse ku meza afite ibara ry'umuhondo, akandi kamwe kari hejuru mu kirere, gafite ibara ry'umuhondo, kandikishijweho amagambo ya shokora.

Uducupa turi mu mabara atandukanye, umweru, umuhondo twanditseho amagambo ya shokora, orange ndetse n'ubururu, hejuru hariho uduce duce tw'igikakarubamba.

Amacupa arimo ibinyobwa bitandukanye, harimo n'ikawa, amwe muri yo afite amabara y'umutuku andi afite amabara y'icyatsi, andi afite amabara ya shokora, amwe ateretse hejuru y'andi, andi afite imipfuniko, andi ntayo afite.

Uturongo tw'amabara atandukanye harimo oranje n'umuhondo werurutse n'umuhondo ndetse n'iroza. Akambere gateretsemo amavuta afite umufuniko wa oranje, akandi gateretsemo agafite umufuniko w'umuhondo werurutse, akandi gateretsemo agafite umufuniko wa shokora, akandi gateretsemo agafite umufuniko w'umutuku.

Ibikoresho byinshi higanjemo ibikoresho bya gakondo by'umuco nyarwanda, harimo nk'utubindi uducuma udukono ndetse n'ibisabo, n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Amavuta ari mu ducupa ducuritse, kamwe gafite ibara ry'umweru n'icyatsi gishushanyijeho igikakarubamba, akandi gafite ibara ry'umweru na oranje, ku hande hari amasura y'abantu batandukanye ku itama hariho ibiheri by'umutuku.

Umuti ufite agacupa k'ibara ry'umweru ndetse n'iroza, ku ruhande rw'ibumoso hari umugabo wifashe mu nda n'ibiganza byombi, ku rundi ruhande hariho igishushanyo kigaragaza amara.

Uducupa turimo imiti itandukanye ikozwe mu gikakarubamba ndetse imwe yanyandikishijweho ubururu, icyatsi, move imwe iri mu dukarito indi iri mu ducupa dusanzwe, hejuru yaho hashushanyije agasiga kari kaguruka.

Icyapa kiriho ubwoko bw'indabo butandukanye: izifite ibara ry'umweru, umutuku, umuhondo, iroza, oranje ndetse n'andi mabara nk'icyatsi, hasi yaho hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara agaragaza ubwoko bw'izo ndabo.

Icupa ririmo amavuta akozwe mu gikakarubamba rifite ibara ry'umweru ndetse na oranje hejuru, ryandikishijweho amagambo ya oranje ndetse n'akanuma karimo kuguruka, hasi yashushanyije igikakarubamba mu ibara ry'icyatsi.

Icyapa cyamamaza amavuta akorwa mu gikakarubamba, harimo afite icupa ry'umweru, umuhondo ndetse hamwe handikishijweho ibara rya shokora ahandi yandikishijweho ibara ry'umutuku, abiri muri yo afite udufuniko twa shokora irindi rimwe rifite agafuniko k'umutuku.

Icyapa gishushanyijeho umurima w'icyayi ndetse ku ruhande hari ameza akozwe mu biti, agiye ateretseho udukarito turi mu mabara atandukanye, turimo icyo cyayi, ak'icyatsi, aka shokora ndetse n'ak'ubururu, hejuru handitse amagambo y'umukara ndetse n'umutuku.

Ameza ateretseho uducupa tw'umweru, dusumbana uko tugiye dukurikiranye, kamwe kandikishijweho ibara ry'ubururu, akandi kandikishijweho umuhondo, akandi kandikishijweho iroza, ku ruhande handitseho igikakarubamba mu magambo y'umukara mu ibara ry'umuhondo.

Abantu bubatse tete barimo abagabo n'abagore bambaye amataburiya y'umweru, imbere yabo hari umugabo wambaye ishati irimo umuturongo, imbere yabo hateretse imiti y'ubwoko butandukanye harimo abantu benshi bari kuyicuruza ndetse n'abagura.

Igikarito kiri mu ibara rya move ndetse n'umweru, cyandikishijeho amagambo y'umukara ari mu rurimi rw'icyongereza, hashushanyijeho umugore wifashe mu mayunguyungu, wambaye agasengeri k'umukara n'ipantaro y'umukara, kiriho inyuguti ya ca n'umubare icyenda mu ibara rya move.

Ikinyobwa kiri mu icupa rikozwe mw'ibati risize irangi ry'umutuku cyandikishijweho amagambo y'umweru ndetse n'umukara hejuru hariho agasiga kari mu ibara ry'umukara karimo kuguruka.

Ahantu hari ingemwe y'ibiti bizwi nk'umubirizi biri mu butaka buri mu mashashi, hari icyapa cy'umweru. Inyuma hahagaze umugabo usa nkaho arikubyitaho. Inyuma ye hari inkingi zikozwe mu byuma ndetse n'abantu benshi.

Igikarito cy'umuti ukozwe mu gikakarubamba ndetse no muri tangawizi, ufite ibara ry'umuhondo ndetse hashushanyijeho igikakarubamba ku ruhande, iruhande rwako harimo uduce duce twayo dufite ibara rya oranje.

Icyapa kiriho amoko atandukanye y'ibiti biri mu ibara ry'icyatsi biteye mu murima, hagiye handitseho inyuguti kuri buri foto, ndetse muri ibyo biti harimo nk'igikakarubamba ndetse n'ibindi byatsi byifashishwa mu kwivuza.

Uducupa tubiri tuvamo amavuta akozwe mu gikakarubamba, kamwe gafite umufuniko wa oranje, karimo igikakarubamba n'umwembe, akandi gafite umufuniko wa shokora, gakozwe mu gikakarubamba, ku gishishwa cyaho hashushanyije igikakarubamba, iruhande rwaho hari utuntu dukase tw'imyembe ndetse n'igikakarubanda.

Icyapa cyamamaza umurongo wa televiziyo cyanditseho n'ibara ry'ubururu, ku ruhande rwaho hateretse icupa ry'amavuta akozwe mu ndimu ndetse n'ibitunguru, iruhande rwabo hari indimu ikasemo kabiri ndetse n'igitunguru gikasemo kabiri.

Uducupa tubiri turimo amavuta akozwe mu gikakarubamba, iruhande rwaho hateretse ikirahuri gicagase, ndetse ku rundi ruhande rw'ibumoso hari uduceduce tw'igikakarubamba, munsi yaho hari amagambo yandikishijwe ibara ry'umuhondo, n'andi mu ibara ry'umukara.

Ubwoko bw'amavuta akorwa mu gikakarubamba, biri mu buryo butandukanye. Bimwe biri mu ducupa, ibindi biri mu mashashi. Uducupa dufite ibara ry'umweru twandikishijweho ibara ry'ubururu, ndetse n'utundi dufite ibara ry'umuhondo byandikishijweho ibara rya shokora, hashushanyijeho igikakarubamba, Ku ruhande hari ishashi ifite ibara ry'umweru n'umutuku, amagambo yandikishijwe ubururu.

Umurima ufite ubutaka bworoshye, uteyemo ibiti bizwi mu buvuzi gakondo bizwi nk'umuravumba, muri buri giti hagiye haciyemo intera hagaterwa ikindi, gifite amababi y'icyatsi.

Muganga wambaye itaburiya y'abaganga, ufite umuti mu ntoki ze mu kaboko k'iburyo afitemo agakarito kavamo ibyo binini kari mu ibara ry'umweru kandikishijeho amagambo y'icyatsi, akaboko k'ibumoso afite ibinini byavuyemo biriho utunini dutatu dutoya.

Ibipapayi bya kizungu bibiri, kimwe gisatuye n'ikindi kidasatuye gifite ibara ry'icyatsi, igisatuye cyegamiye ku kidasatuye gifite ibara rya oranje, gifite imbuto z'umukara mo imbere, hagati hagati.

Ikirangantego kiriho ingano ebyiri, ibumoso ndetse n'iburyo zenda gukora uruziga ndetse n'izuba rirashe rifite ibara ry'umuhondo n'imiti ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, u Rwanda rwanditse mu nyuguti nkuru.

Agacupa gacuritse kari mu ibara ry'umweru, ndetse n'umuhondo, kandikishijweho n'amagambo y'umuhondo hariho utuntu t'utuzeru tugiye dushushanyijeho n'amagambo y'umukara munsi, hejuru hashushanyije akanuma mu ibara ry'umweru karimo kuguruka.

Agakarito karimo isabune ikomoka ku gikakarubamba gafite ibara ry'umuhondo kandikishijweho amagambo y'umukara, iruhande hashushanyijeho igikakarubamba mu ibara ry'icyatsi, imbere yaho hateretse ibiva muri ako gakarito, ni isabune zifite impande icumi zisa orange.

Igiti cy'umubirizi gifite amashami atandukanye, gifite ibibabi by'icyatsi ndetse n'ibindi byumye giteye ahantu mu gipangu, inyuma yaho hari insina ndetse n'amazu atandukanye.

Agacupa k'umweru gacuritse gashushanyijeho igikakarubamba mu ibara ry'icyatsi, umuntu uri guseka ufite amenyo y'umweru n'iminwa y'iroza ku ruhande handitse amagambo y'umukara asobanura icyo ako gacupa gakora.

Umugabo wicaye mu nzu wambaye itaburiya y'umweru, wicaye ku ntebe y'umukara. Imbere ye hari uducupa tw'imiti, kamwe gafite ibara ry'umukara akandi kabonerana karimo imiti y'ubururu, twose dufite imifuniko y'umutuku. Inyuma ye hari ibirahure.

Uducupa turi mu mabara atandukanye umweru, umuhondo, move, wandikishijweho amabara y'umukara ndetse n'umutuku, tumwe muri two ni imiti, utundi n'ibyo kunywa, inyuma yaho hari ubusitani ndetse n'ibiti n'umuhanda.

Agacupa k'umweru gafite amagambo ari mu ibara ry'icyatsi asobanura icyo aya mavuta akora, hashushanyijeho igikakarubamba mu ibara ry'icyatsi, mu nguni yaho hasize ibara ry'icyatsi ateretse ahantu h'icyatsi.

Ibiti by'amoko atandukanye nk'igikakarubamba, indimu, urusenda, sereri ndetse n'ibindi, byandikishije amabara y'umukara, birimo mu tubindi dusize amabara atandukanye, nk'umukara, umweru, ndetse na oranje, bifite amabara y'icyatsi ndetse n'umuhondo.

Inzu iri mu ibara ry'umweru irimo uducupa dutatu tugiye dugurikiranye mu buryo butandukanye. Kamwe kari hejuru, akandi kagakurikiraho, akandi kakajya munsi yaho gato. Akari hejuru cyane gafite ibara ry'umweru kanditseho amagambo y'ubururu. Agakurikiyeho gafite ibara ry'umweru kanditseho amagambo y'umutuku. Agakurikiyeho gafite ibara ry'umweru kanditseho amagambo y'ubururu bwijimye.

Akajerekani k'umweru gafite umukondo, gafite umufuniko w'umutuku, gafite amagambo yanditswe mu nyuguti nkuru, yanditse mu ibara ry'umutuku, asobanura ikiri muri iryo cupa.

Ibyo kurya by'abana bikungahayemo vitamine zitandukanye, biri mu gakakarito, gafite ibara ry'umweru ndetse na oranje, hamwe handitswe n'amagambo y'umutuku ahandi amagambo y'icyatsi, iruhande rwaho hari akandi gafite ibara ry'umweru, kariho amagambo y'icyatsi ndetse n'umutuku.

Umuti uri mu gakarito gafite ibara ry'umweru n'umutuku wandikishijweho amagambo y'umukara amwe ari mu nyuguti nkuru andi ari mu nyuguti ntoya, andi yandikishijwe ibara ry'umutuku handitse ngo amagarama magana atanu.

Uducupa dutandukanye tuvura uburibwe harimo udufite ibara ry'umweru n'udutpfuniko tw'umweru, utundi dufite udufuniko tw'ubururu, harimo ivura mu mugongo, harimo ivura amavi, urutirigongo, urutugu, inkokora ndetse n'ahandi.

Abantu bari muri shitingi y'umweru, imbere yabo hateretse uducupa tw'imiti itandukanye umwe muri bo ahagaze inyuma y'utwo ducupa, undi ahagaze imbere, basa nkaho bari kugura inyuma hari nomero ushobora kubasangaho.

Agacupa gafite ibara ry'umweru karimo amavuta basiga ku munwa afite ibara ry'umuhondo, kandikishijweho ibara ry'umutuku, iruhande rwaho hari amagambo asa umweruru mu ishusho ifite ibara ry'iroza, ku ruhande hari amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara.